Ifoto riho umugabo wambaye amarori, hariho n'umugore rwose bafashe iki gikorwa kimeze nk'ishimwe; umwe ashobora kuba agiye guhereza undi, ariko ikigaragara rwose ishimwe ry'uyu mugore harimo n'ibindi byapa byinshi bigaragaza ibijyanye n'iri shimwe.

Umuntu uhagaze imbere w'umugabo wambaye amadarubindi ushobora kuba ari inama arimo cyangwa hari amabwiriza ari guha abantu bari imbere, ikigaragara cyo hari intebe ebyiri ashobora kuba hari yari yicayemo ndetse n'indi yarishemo n'undi muntu, hakaba hateretse n'amazi, imbere yabo hari n'imikindo.

Ihuriro ry'abantu benshi, aho bamwe bicaye hasi abandi bakaba bicaye ku ntebe, hariho n'abandi bari kubyigana batonze umurongo, ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba hari igikorwa cyahabereye cyabahuje bose.

Abana bari ahantu ku kiyaga bigaragara ko bari kudaha amazi kandi akaba ari amazi magari cyane ashobora kuba adatemba akubiye ahantu hamwe, akaba ahora aho ngaho gusa.

Umwana uri kuvoma amazi biragaragara ko ari mu kiyaga kigaragara cyo ni umwana w'umukobwa, akajerekani gatoya, icyo kiyaga biragara ko ari kinini, umwana ni muto cyane ahantu ari birashoboka kuba ari mu gishanga ikigaragara cyo hari izuba.

Umubyeyi usa nkaho akuze wikoreye indobo itukura, ufashe n'indi mu ntoki ijya gusa umuhondo. Ikigaragara cyo indobo yikoreye irimo amazi n'indi ndobo afashe mu ntoki irimo amazi. Ahantu ari hari ibyatsi byumye, ikigaragara ari kugenda asatira inzu. Ashobora kuba ari urugo rwiwe.

Ahantu hateraniye abantu benshi, aho harimo abana batoya cyane bigaragara ko abo bashobora kuba ari abanyeshuri biga mu mwaka w'inshuke, hakaba hari n'umugabo wo mu nzego za leta za gisirikare wambaye imyenda y'akazi ndetse hakaba hari n'undi mugore usutamye uri kunywesha abana amata afite inkongoro.

Ahantu hateraniye abana benshi cyane rwose barishimye cyane bari guseka bamwe bahagaze inyuma batonze imirongo abandi bari gukaraba aho umwana wese ari gutega ikiganza ku mugezi agakaraba intoki.

Umuntu uri gukaraba intoki ahantu hari amazi menshi cyane, ikigaragara cyo iri riba rihora rimena amazi kuko ntago babona uko barifunga kandi hashobora kuba havomwa n'abaturage benshi kuko ni isoko.

Umuntu uri gukaraba amazi, ikigaragara cyo amazi ari gukaraba ari ahantu hasa nko mu gishanga kuko ayo mazi ikigaragara cyo arameneka, hari andi mazi yaretse aho hantu, aya mazi uko biri kose ahantu ashobora kuba ari, ari ahantu mu gishanga.

Umuntu bigaragara ko ari gukaraba, arikumena amazi menshi cyane, ari gukaraba ahantu ku mugezi, ku buryo ari kwangiriza bigaragarira amaso, afite udutoki tugufi cyane, ikigaragara cyo intoki afite zishobora kuba ari iz'abagabo, kuko nta mukobwa wagira intoki zimeze gutya.

Abantu bari kureba igishushanyo, hari amazi, hari undi wunamye ari inyuma, babiri barunamye bari imbere bari gusa nk'aho bari gusuka, icyapa cyanditseho n'ibirango by'umukara, ibirango by'umukara byanditsemo amagambo.

Ahantu hateraniye ababyeyi batari bakeya buri mubyeyi wese afite umwana we mu ntoki, bamwe barabateruye gusa aho bamwe babateruye bakaba barimo kubonsa, ababyeyi bashobora kuba baje guteza abana babo inshinge.

Abantu benshi bicaye harimo abakuru n'abatoya bamwe barasa nkaho bahuze abandi barahagaze, bica ahantu hasi bicaye bari kurebana nk'ubateranya imigongo harimo abahagaze bajya ngo baje kwivuza hari udufuka nyuma hari amabuye.

Umukobwa wagiye kwa muganga ikigaragara cyo ararwaye, bamwicaje ku ntebe bafata akaboko ke bari kumupima, umuntu uri kumupima biragaragara ko ari muganga wabyigiye kuko ahantu bari hari ibikoresho bakoresha mu kwita ku barwayi.

Ahantu hataraniye abana benshi, aho bishimye cyane. Hakaba harimo umuntu mukuru wambaye amadarubindi, akaba ateze n'akandi kantu k'agatambaro mu mutwe, akaba yambaye n'akandi gatambaro mu ijosi. Ikigaragara cyo aha hantu hari abanyeshuri benshi.

Aho abantu bateraniye harimo abakuru ndetse n'abatoya baje bitwaje abana ari abicaye ndetse n'abahagaze, harimo umuntu umwe wicaye uri kubaza ibibazo umwana. Ikigaragara cyo aha ngaha hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'abana kuko ababyeyi baje bari kumwe n'abana babo.

Abana bari kuva ku ishuri aho bamwe bari mu muhanda hakaba hari undi uje gusaba amazi yo kunywa, akaba afashe ikiganza agitega ku mugezi, aho hari undi mwana ufite akajerekani waje kuvoma, ikigaragara ni uko iri riba riri ahantu hegereye umuhanda, hakaba hari n'amazu hafi aho.

Umurwayi uri kwa muganga, akaba ari kumwe n'umurwaza, bakaba bari kumwe na muganga. Haho muganga ari kumviriza ku nda y'umurwayi uryamye mu bitaro. Bigaragara ko afite ikintu ari gusuzuma mu nda y'uyu murwayi.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bishimye cyane bamwe bari kubyina abandi bari gukoma amashyi. Bambaye imyenda bose isa aho hari umugabo ubahagaze imbere bari kubyinira rwose banezerewe cyane.

Imbaga y'abantu benshi cyane aho higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore, hakaba harimo abakuru ndetse n'abatoya bigaragara ko hari serivisi baje kwaka aha hantu, harimo abicaye ndetse n'abahagaze aho bamwe bari kubyigana bajya imbere abandi bakaba bari inyuma.

Icyumba giteraniyemo abantu ho harimo abagore babiri abandi bose uko biri abandi bose ari abagabo, aba bantu uko bisa kose bari mu nama bari guseka bizihiwe cyane kuko hari ibikoresho bifashisha abari ku meza biha abo batse iruhande kandi bose uko biri kose babona ko bari mu kigero kingana.

Utwana dutatu rwose twishimye cyane, aho kamwe katari kugaragara neza akandi kakaba kambaye umupira w'ubudodo, kakaba kamanitse urutoki gasa nk'aho kari gusubiza, uko biri kose aba bana bashobora kuba bari mu ishuri.

Umubyeyi ukuze rwose wagiye kuvoma amazi, aho afite ijerekani yateze ku mugezi, amazi ari kujya mu ijerekani. Ikigaragara cyo aho hantu ashobora kuba yagiye kuvoma hashobora kuba ari ahantu mu kibaya kuko hari imisozi hakurya ndetse no hakuno hari ibindi bimera byinshi cyane. Uwo mukecuru uko bisa kose yagiye ku mugezi.

Abantu rwose bizihiwe cyane biragaragara ko ari abajyanama b'ubuzima, bambaye imyenda yabo kandi bafite amakarita mu ijosi bambaye bigaragaza ibyo bakora, bari kubyina bamwe abandi bari gukoma amashyi basetse banezerewe, hari umugabo ubahagaze imbere bari kubyinira bigaragara ko bamwishimiye.

Ahantu hari abantu babiri aho umwe atereye umwana muto cyane, undi akaba ari guha umwana umuti ikigaragara cyo ahantu bari kwa muganga kuko uri guha umuti umwana ashobora kuba ari umuganga.

Ahantu hateraniye abantu bakuru ndetse n'abana bato cyane, ikigaragara cyo ni abanyeshuri b'amashuri y'incuke bambaye impuzankano imbere yabo hari abantu bahagaze hagati muri abo bana harimo umwarimu ushobora kuba abitaho abaha uburezi.

Ahantu hateraniye abantu benshi aho harimo abakuze ndetse n'abato, bigaragara ko bagiye kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari umwe muri bo uteze urutoki ngo babashe kuba bamutera urushinge kandi ikigaragara cyo uwo muntu ugiye kumutera urushinge ni umuganga.

Ahantu haritene abagore batanu hari umugore ufite imisatsi rwose myinshi iguye mu mugongo biragaragara ko ashobora kubaha inama bamwe bosekora ikigaragara ko bashaka bari kwa muganga uri guhabwa inama zijyanye n'ubuvuzi iyo mwambaye ipantaro bafite ibitabo biri ku meza bari kwiga ikigaragara.

Ababyeyi benshi bateraniye ahantu hamwe, ikigaragara cyo aba babyeyi bashobora kuba bavuye ahantu mu nama cyangwa bari, bari ahantu mu mahugura kuko biragaragara ko bahagaze ahantu imbere y'inzu.

Umwana uri gukaraba intoki, iruhande rwe hari ikidumoro gipfundikije umufuniko usa ubururu nacyo kirasa ubururu, umwana ari gukaraba areba ku ruhande kandi ikigaragara cyo ahantu ari gukarabira ni ku mugezi.

Ikoraniro ry'abantu aho higanjemo abanyamahanga n'abatari abanyamahanga harimo idarapo riranga igihugu cy'u Rwanda ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba habera inama kuko aba bantu bafite amazi ndetse imbere yabo ko bamwe bashobora kuba barimo kwandika.

Abarwayi bari kwa muganga, ikigaragara cyo hari umurwayi w'umwana, mama we akaba yicaye hirya ye, hari abaganga babiri barimo umukobwa ndetse n'umuhungu bari kwita ku murwayi aho aryamye, ikigaragara cyo uwo muntu urwaye ni umwana.

Ihuriro ry'abantu basa nk'aho bari mu nama, aho imbere yabo hari imitako irimo indabo. hakaba hari n'ameza bateretseho amazi. Hari ikirango kigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho kiri mu ibara ry'ubururu, hakaba hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Abana batatu bari ahantu ku mugezi bari gukaraba intoki, ikigaragara cyo barishimye ku maso yabo, harimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe, hirya yabo hari igiti kirekire cyane, ikigaragara ni uko iriba riri ahantu mu gikuta.

Ahantu hateraniye ababyeyi batari bake aho ababyeyi bateruye abana hakaba hari n'abandi bantu bari kugenda baha abana icyo kunywa bababanywesheje kandi abandi batari bagerwaho bicaye inyuma bari kugenda bazenguruka ku buryo buri mwana wese bamugeraho.

Umwana wambaye impuzankano, ikigaragara cyo uyu mwana ni umunyeshuri, afite amazi mu maboko yombi aho icupa rimwe ririmo amazi n'irindi rikaba ririmo amazi, hakurya ye hari abandi bana basa nkaho bari kumureba hagati yabo hari amazi aharetse.

Ahantu ku mugezi hateraniye abana benshi, aho harimo abana b'abakobwa ndetse n'ab'abahungu, buri mwana wese waje kuvoma afite ijerekani yazanye. Hari abana bamwe bakandagiye mu mazi, abandi ntabwo bakandagiye mu mazi, ikigaragara cyo iri riba riri ahantu mu gishanga.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu aho biganjemo abakuru ndetse n'abatoya, imbere yabo hakaba hari imodoka nini bashobora kwifashisha kwa muganga bari gutwara abarwayi babajyana ku kigo nderabuzi.

Abantu babiri bari ku mugezi bari kuvoma amazi, ikigaragara cyo ahantu bari hakoreshwa n'abantu benshi batandukanye, kuko ni ahantu ku musozi hegereye amashyamba arimo ibiti birebire, bibyibushye ndetse n'ibitoya.

Ahantu hateraniye abagore aho umwe muri bo ahagaze imbere yabo akaba yifashe mu mayunguyungu kandi inyuma yabo hakaba hari ibishushanyo, bimwe bishushanyijeho ibimera ndetse n'inzu n'umwana uri inyuma yabo y'igishushanyo.

Abana bane bishimye cyane rwose, aho hari umuntu mukuru uri kubakarabya intoki. Ikigaragara cyo aba bana ntago ari bakuru kuko bose ni bato, bari gukarabira mu ibase, umuntu mukuru agafata amazi mu gikombe, akabasukira bose ku ntoki.

Imbaga y'abasore n'inkumi, aho bateraniyemo abantu benshi bambaye imyenda y'akazi ijya gusa umweru. Ariko muri aba bantu bose ntago ari ko bambaye iyo myenda. Harimo n'abambaye imyenda isanzwe, bakaba bambaye amakarita mu ijosi agaragaza ibyo bakora.

Ahantu hari abana bari kunywa amazi, bigaragara ko ahantu bashobora kuba bari ari ku ishuri, bambaye impuzankano kandi amazi bari kunywa bishobora kuba ari meza kuko bayateretse ahantu hafite isuku kandi biragaragara ko abana bari mu kigo.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane, aho harimo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, hakaba higanjemo ababyeyi benshi bateruye abana babo, ikigaragara ni uko aha baje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umwana uri ahantu ku mugezi wafashe ibiganza arabyegeranya arangije arunama abishyira imbere ya rudene, amazi akajya ashokera ku ntoki ze agiye ku ntoki ze akagenda ayanywa, ikigaragara cyo ahantu ari ni ku ivomero.

Umugabo ufite akanyamuneza ku maso wagiye kuvoma, akicara ku njerekani, ikigaragara cyo ahantu ari kuvomera ni hafi y'ingo, kuko hafi aho hari amazu, hakaba hari n'uruzitiro rw'ibyatsi, akaba yagiye kuvoma ku mugezi...

Ihuriro ry'abana benshi cyane abo barimo abakobwa n'abahungu bamanitse ibitabo rwose bishimye cyane bari guseka, bari kumwe n'umuntu w'umugabo ukuze cyane wambaye ipantaro isa umukara ufite n'ibitabo mu ntoki, aba bana barishimye cyane aho abana bose bambaye imyenda isa uretse akana kamwe kambaye umwenda utukura hejuru.

Abana benshi bateraniye ahantu ku mugezi wari ufite udumoro tubiri uki hakurya bagira imbere bamu' bamugera nitwarambaye igikira kirereke ubwo tukigeze ku maguru n'utudoboro tubiridi n'undi uri inyuma wifashe ama ukayashyira inyuma hari n'abandi bashungiye n'u undindifutsa agatanya rwose mu mutwe biragaragara ko bana ahantu bari mu gishanga.

Abantu bahuriye ahantu hamwe bose bagiye kuvoma amazi aho batonze umuriro bitewe n'uko waje ukaba uvoma bitewe n'aho ugeze, hari umuntu uhagaze imbere y'umugezi uvoma umwishyura kuko ni ku kazi ke.

Ihuriro ry'abantu, aho hamwe hari abasore bari kurwanira bigaragara ko umwe muri bo afite ibyo ari gusobanurira undi, bakaba bari ahantu mu nzu, inyuma yabo hakaba hari n'abandi bantu bahateraniye buri wese afite icyo ahugiyeho.

Ahantu hateraniye abantu aho bose bafite mudasobwa iruhande rwabo, harimo abagore ndetse n'abagabo cyangwa igitsina gore n'igitsina gabo. Aho ahantu bateraniye uko bisa kose ni ahantu mu nzu bashobora kuba bari mu nama.

Inyubako y'icyumba aho harimo umugore bigaragara ko ashobora kuba akoramo kandi ikintu akora, ni bijyanye n'ubuzima, ni umuganga mu bijyanye n'ubuvuzi ashobora kuba yita, ku barwayi baje bagana ibivuriro.

Abantu bishimye cyane harimo abana bato cyane bafite inkongoro mu ntoki, bari kunywa amata abandi bato muri bo hari abantu bakuru bari kubanywesha, ikigaragara cyo aba bantu bashobora kuba batanga serivisi zijyanye n'ubujyanama bw'ubuzima.

Ahantu hari abantu benshi aho bamwe muri bo baje kwivuza abandi bakaba bari kuvura ari abaganga aho ngaho, aho hari umusaza usa nk'aho akuze cyane bakaba bari kumufata umuriro ku bijyanye n'ubuzima ashobora kuba arwaye.

Ahantu hateranira abantu baje kuvoma amazi, aho hari umuntu uri kuzamura icyuma yongera akimanura kugira ngo umuntu uri kuvoma amazi abone uko ajya mu kajerekani kuko utafashe kino cyuma ngo ukizamure ntabwo amazi yaza, ikigaragara cyo ahantu iri vomero riri ni ahantu mu kibaya.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi cyane aho bahuriye muri bo bicaye, imbere yabo bakaba bari kubaganiriza ikigaragara tyo abo bantu bashobora kuba hari amahugurwa bitabiriye cyangwa hari inama barimo.

Ahantu hateraniye abana bambaye impuzankano bari kuvoma amazi yo kunywa, bose bari kunywa amazi kandi bambaye inkweto zisa umukara, ikigaragara cyo aba bana ni abanyeshuri kandi bakaba bari ahantu ku ishuri.

Hateraniye abantu benshi cyane ikigaragara icyo bakora muri iyo nyubako kuko abenshi bambaye umwambaro w'akazi usibye umugore umwe wambaye ikanzu itukura. Aha hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi cyangwa uburezi.

Umuntu w'umugabo afite ibyo ari gusobanura umugore umuhagaze iruhande rwe, aho afite igipupe gishushanyije, umugabo ndetse n'umugore akaba aribyo ari kumwereka akamubwira ibijyanye n'iki gishushanyo bitewe n'ibintu bigaragara.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane, aho bose bahagaze ku murongo, bamwe bari imbere, abandi bakaba bari inyuma, higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bari ahantu mu nzu, uko bigaragara kose bashobora kuba bari baje mu nama cyangwa amahugurwa.

Ahantu hateraniye abantu benshi aho bamwe muri bo ari abasore ndetse hakaba hari n'ababyeyi bateruye abana babo, ikigaragara cyo aha hantu bashobora kuba bari kwita ku buzima bw'abana kuko hari umusore uri gutamika abana...

Umusaza uri kubazwa ibibazo wagira ngo ari kubibazwa na muganga, inyuma ye hari umwana hari indabo wagirango bari mu muhanda, ikirere kirakeye yambaye ingofero agashati k'igitenge umusaza, undi yambaye imyenda y'umweru ikigaragara cyo ni muganga.

Aho abantu bateraniye bicaye bisa nk'aho bari mu nama yiganjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bakaba bafite amacupa arimo amazi ku meza yabo ndetse bakaba bafite amakayi n'amakaramu bisa nk'aho bari mu nama bari no kwandika.

Ahantu hateraniye abakobwa bishimye cyane ndetse harimo n'umusore umwe aho bari ahantu mu cyumba bigaragara ko bashobora kuba bavuye mu nama cyangwa amahugurwa bose bambaye imyenda isa.

Abantu batatu bicaye hanze, aho hari umuntu w'umujyanama w'ubuzima ari ku bagira inama ku bijyanye n'ubuzima kuri uyu mugore utwite ndetse n'uyu mugabo we, akaba yari yamuherekeje, bicaye ahantu hanze.

Umubyeyi wajyanye umwana kwa muganga, biragaragara ko umwana arwaye kuko ari kwitabwaho na muganga. Umubyeyi bamuhaye intebe aricara, umuganga arahagarara kuko ari guha umwana umuti, awumushyira mu kanwa. Kandi yambaye umwambaro w'akazi usa n'ibara ryera.

Umugabo usa nk'aho akuze wicaye ku njerekani ahantu ku mugezi, wishimye cyane ku maso afite akanyamuneza, yambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, ari ahantu hashobora kuba hari umugezi uri ahantu ku muhanda kuko hafi aho hari inzu.

Abantu benshi bari ku murongo, bamwe barahagaze abandi bari kwandika, harimo ababyeyi bahetse abana, umwana ufumbase agacupapa, agacupa gateretse ku meza, umumama wicaye uri kugenzura ibyo abandi bari kwandika, inyuma yaho hari idirishya rifunguye bari mu nzu mu imbere.

Akana k'agahungu kari kunywa amazi ahantu ku mugezi, kari kunywesha intoki. Kambaye inkweto z'ubururu n'ikabutura itukura. Kambaye ishati ijya gusa n'imyenda ya gisirikare, ikigaragara cyo aho kari kunywera munsi yaho hari indobo kandi hashobora kuba hatuye abantu. Hari ibyatsi byinshi cyane hirya hameze nk'ishyamba.

Abana benshi bari mu kiyaga bari koga aho bamwe ari abakobwa abandi bakaba ari bato, biragaragara ko bishimiye kuba bari muri ayo mazi, harimo abasetse ndetse n'abadasetse kuko harimo abakobwa.

Abantu bari gusuhuzanya aho abagabo babiri bari kurebana mu maso basuhuzanya ndetse n'abandi babiri barangaye utamenya ibyo barimo. Ikigaragara cyo aba bantu bashobora kuba bavuye mu nama cyangwa hari amahugurwa bavuyemo.

Abantu bari mu muhanda benshi, aho hari abicaye ndetse n'abahagaze, hari umugore uri kugenda abahereza ibitabo, ikigaragara cyo iki gitabo ari kubahereza gishobora kuba harimo inkuru cyangwa ibindi bintu byiza.

Ahantu hari abantu harimo umugabo uhagaze imbere yabo wambaye igishati kirekire n'amaboko magufi ndetse hakaba hari n'abandi babyeyi bicaye, imbere yabo hari umugore uri kumureba cyane mu maso, hakaba hari n'undi mubyeyi utereye umwana.

Ahantu kwa muganga aho batanga ubuvuzi ku bijyanye n'ubuzima, hari abantu baje kwivuza, abaganga babo bafite mudasobwa imbere yabo bari gukoresha batanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari bamwe bagannye ibitaro bicaye ndetse n'abandi bahagaze.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe aho bicaye mu ihema, bakaba bari kuganira imbere yabo hakaba hari umugabo ahantu bicaye ni ku ntebe z'umweru, aho hirya yabo hari abagore batatu bitwikiriye imitaka.

Ahantu hateraniye abana benshi ubona ko bizihiwe, bamwe barangaye bambaye n'imyenda isa, ikigaragara cyo ahantu bari hari igikorwa gishobora kuba cyari cyahabahurije wenda nk'inama cyangwa amahugurwa.

Ihuriro ry'abantu benshi, aho bicaye barebana ikigaragara cyo aba bantu baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari bamwe bahagaze imbere y'umuntu bigaragara ko ashaka kubaha serivisi, hari n'abandi bategereje muganga ku muryango.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bose bambaye imyenda isa uretse abantu babiri muri bo, kandi ikigaragara cyo aba abantu bashobora kuba batanga serivisi zijyanye n'ubujyanama ku buzima.

Inyubako nziza cyane ifite imihanda myiza cyane ikaba yiganjemo ubusitani ikaba iri ahantu hirengeye ikaba ifite amabati ajya gusa ni ibara ritukura ibara ry'umweru ikaba rifite imiryango myinshi ndetse n'amadirishya menshi kigaragara cyo aha hantu hatuye abantu haba hatuye abantu benshi muri iyi nyubako kuko ni nini.

Abantu bahuriye ahantu hamwe aho bamwe basutamye abandi bakaba bahagaze bambaye imyenda y'imipira hejuru isa ifite ibara ry'umweru kandi ikigaragara cyo ahantu habatiranije igikorwa kijyanye n'ubujyanama bw'ubuzima.

Umwana wishimye cyane bisa nk'aho afite akanyamuneza ku maso, ari ahantu ku kumugezi aho bamera, amazi yaho bikaba bisa nk'aho ahora yimena nta hantu afite ashobora gufungirwa. Uwo mwana biragaragara ko yazanye amajerekani kuko ateretse hirya ye yaje kuvoma.

Imbaga y'abagabo benshi cyane rwose bigaragara ko bashobora kuba bari ahantu mu nama kandi bakaba ari abayobozi bari kuganira banywa kuko bose bafite amazi iruhande rwabo, bakaba bafite n'ibitabo bishobora kuba bari kwifashisha bari kwandika, ikigaragara icyo bashobora kuba bari mu nama cyangwa bari mu mahugurwa.

Imbaga y'abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe aho bicaye higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bashobora kuba bari nko mu nama kuko bose biragaragara ko hari ikintu bateze amatwi cyangwa uri kuvuga ubari imbere.

Umwana uri gusuhuzanya n'umuntu mukuru, umuntu mukuru yambaye umupira wa oranje, biragaragara ko afite itumanaho mu mufuka, hari ibipirizo, abandi bana bicaye inyuma, bigaragara ko bicaye ahantu mu byatsi, hari ibiti, n'abandi bana benshi, ikigaragara cyo abantu barishimye bari guseka.

Umuntu mukuru uri kuvoma, ari kuvoma amazi atemba, aho hari akana kicaye iruhande rwe, kakaba ari gato cyane. Ayo mazi atembera ahantu hasa nkaho ari mu gishanga. Hakaba hari ibyatsi iruhande byarwo.

Umubyeyi usa nkaho akuze wikore ijerekani irimo amazi akaba ateze igitambaro, ikigaragara cyo uyu mubyeyi avuye kuvoma, imbere ye hakaba hari n'undi mwana uri kwikorera ijerekani, hakaba n'undi mwana uvuye ku ishuri, ikigaragara cyo uyu mubyeyi ajyanye amazi mu rugo.

Abana batatu bambaye impuzankano bose biragaragara ko bari ku ishuri bari gukaraba ahantu ku mugezi, hakaba hari imigezi itatu buri mwana wese ari gukaraba ku mugezi wiwe.

Ahantu ku mugezi hari abana baje kuvoma ikigaragara cyo ni bato cyane kandi hirya yabo hari imodoka, bakaba bari kumwe n'umuntu mukuru uri kubafasha kuvoma amazi, ikigaragara cyo aha hantu ni mu kibaya.

Umwana w'umuhungu wagiye kuvoma hirya ye hari umumama witeze agatambaro mu mutwe ikigaragara cyo aba bantu ahantu bari ni ku mugezi hari n'akandi kana gato cyane rwose kuri uyu nguyu uri kuvoma kari hirya ye ikigaragara cyo nako kaje kuvoma.

Ihuriro ry'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bigaragara ko bashobora kuba basoje inama, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo amwe yanditse mu ibara ry'ubururu, andi yanditswe ibara ry'umutuku bivuga ngo uburyo bwo gukumira ndetse no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Umugore uri imbere y'imbaga y'abantu benshi bigaragara ko hari ibiganiro ashobora kuba atangira aho. Bose bamuteze amatwi. Harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore bose bitabiriye.

Abantu bahuriye ahantu ku mugezi aho bose baje gushaka amazi biganjemo abana batoya, abakobwa ndetse n'abahungu, hari n'umuntu umwe ukuze. Abana bamwe baje kuvomesha utujerekani abandi baje kuvomesha indobo.

Ahantu hari abantu ikigaragara cyo aha hantu ni mu muhanda hari umugore wambaye ikirango mu ijosi kigaragaza ibyo akora akaba ari kugenda atanga ibitabo kuri buri muntu wese uri muri uwo muhanda kuko hari n'abari kukamusaba agatabo ngo barebe ibirimo.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bambaye udupfukamunwa hari abandi bantu bameze nkaho barwaye hari akana bari guhereza imiti hari umugore uhagaze wambaye ikanzu itukura igiyerimo uturabyo numugabo wicaye wambaye agapira k'umuhondo nundi ufasha umwana bari guhereza umuti wambaye agapira k'icyatsi kibisi.

Ahantu abantu bateraniye ari benshi bakaba bicaye, ikigaragara cyo aba bantu bashobora kuba bari mu mahugurwa cyangwa hari amatora kuko imbere yabo biragaragara ko hari umuntu ushobora kuba ari kubaganiriza cyangwa ufite ibyo abikora.

Abana babiri bishimye cyane, aho umwe ari gukarabywa n'undi mu ntoki akoresheje igikombe, undi nawe agatega intoki mugenzi we akamusukiraho amazi, ikigaragara cyo abana ni abakobwa.

Abantu biganjemo igitsina gore baje kuvoma bafashe amajerekani yabo bakayatereka ku murongo, buri wese akaba avoma bitewe n'ukuntu yaje bagendeye ku murongo, hakaba hari n'undi wegereye ivomero ubishyuza.

Abana babiri b'abahungu bari ahantu ku mugezi, aho amazi aba yimena bari gukaraba intoki, hari umwana umwe wambaye umwenda utukura, biragaragara ko aba bana rwose bishimye cyane bizihiwe.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore n'abagabo bazengurutse ameza, ikigaragara cyo bafite mudasobwa ziteretse imbere yabo, bari mu nama ko bagiye bakora utuntu tumeze nk'utuziga, arimo kubabwira mbese abari imbere bamuteze amatwi bari kumvamva ibyo avuga.

Abantu benshi cyane bari ahantu bahuriye harimo abagabo n'abagore, ababyeyi bahetse abana, ikigaragara cyo hari ibintu baje kureba biragaragara ko ari abaturage benshi cyane bafite ibikorwa bashaka kuba bitabiriye cyangwa amahugurwa. Hari abagabo, abasore ndetse n'inkumi n'ababyeyi n'abana.

Akana gasa nk'aho kishimye k'agakobwa kambaye imyenda itukura kari gukaraba ahantu ku mugezi. Ikigaragara cyo uyu mwana ahantu ari gukarabira hari ibindi bimera hirya yabyo hakaba hari n'ikindi cyapa kigaragaza uwakoze rino riba cyangwa ukuntu iriba ryakozwe.

Ahantu hateraniye abana benshi cyane aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu bakaba bamanitse ibiganza bigaragaza ko bishimye cyane kandi bakaba ari abanyeshuri bambaye impuzankano, inyuma yabo hari abandi bantu bakuze bane ikigaragara cyo bashobora kuba ari abaterankunga.

Abagore babiri bicaye ahantu ha imbere mu nzu biragaragara ko bari ahantu hamwe bicaye ku ntebe z'umukara, umwe yambaye ikote u ryambaye ikanzu, undi yambaye agapiramo imbere kajya gusa umukara n'ikote ry'umukara n'umweru yambaye nk'isaha ukuboko undi yambaye impkweta kwambaye i ikazu ndetse yambaye n'umuringa.

Ahantu hateranira abantu batari bake, ikigaragara cyo ahantu hashobora gutangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari abantu bihishe mu maso ndetse n'umubiri wose, bashobora kuba bari kwirinda icyorezo gishobora kuba cyabafata.

Icyapa kinini gifashwe mu ntoki n'abantu benshi bagihagaze inyuma, aho bamwe muri bo bahagaze ku ruhande bagiye batonze imirongo, ikigaragara cyo biganjemo urubyiruko ndetse hakaba harimo n'abantu bakuze batari benshi.

Ahantu hateraniye abantu benshi aho bamwe bicaye imbere abandi bakaba babicaye imbere, abicaye imbere biragaragara ko bafite abo bari kubwira ndetse abo bicaye imbere bakaba bateze amatwi, ikigaragara cyo bashobora kuba bari mu nama cyangwa amahugurwa.

Ahantu hateraniye utwana twinshi cyane, aho bamwe muri bo bambaye ibirenge kandi bakaba bambaye inkweto, bamwe bafite utujerekani abandi ntatwo bafite ikigaragara cyo harimo abana bagiye kuzanira ababyeyi babo amazi.

Umuntu wambaye ibirenge usa nabi cyane, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, yambaye imyenda isa nabi cyane ndetse yambaye n'ibintu bidafite hepfo na ruguru. Afite umusatsi utameze neza kandi nuwureba biragaragara ntabwo ukorewe isuku.

Umugabo uri guseka cyane wizihiwe wambaye ingofero witeye umwitero yambaye ishati biragaragara ko afite n'icumu wagirango nyi yambaye ingofero ishaje cyane nyuma yaho ibimeze nk'ibikenyeri biragaragara ko ashobora kuba ari intore.

Umuntu w'umugabo usa nabi cyane, ufite imisatsi isa nabi ndetse n'ubwanwa busa nabi, yambaye imyenda isa nabi cyane, ikigaragara cyo ashobora kuba ari mu muhanda, kandi ashobora no kuba ari umusazi, kuko uko agaragara ntabwo yaba ari umuntu muzima, ngo abe adafite isuku.

Umugabo ugaragara ko rwose yababaye cyane amarira yatembye ku maso yazanye ibimyira byenda gushoka ngo bigere mu kanwa, amaso yatukuye cyane kandi uyu muntu rwose umurebye biragaragara ko akuze isura ye rwose irabyemeza.

Abantu bishimye cyane, harimo akana kizihiwe cyane, kasetse. Ikigaragara cyo ni muto cyane; nta n'umwaka ushije. Ntiyaba atari kumwe n'umubyeyi we umuteruye. Aho umubyeyi ufite umusatsi mucye cyane ku matwi n'akana gafite umusatsi mucye cyane ku mutwe. Akaba yambaye umupira w'umweru, ikigaragara cyo hari ahantu bahagaze imbere y'igikutu kinini.

Ahantu hateraniye abana benshi cyane bisa nk'aho bicaye ku musambi, barishimye cyane bari guseka bambaye impuzankano ikigaragara ni abanyeshuri kuko imyambaro bambaye igaragaza abanyeshuri biga.

Ikinyamakuru cyanditswe mu ibara ry'umukara n'ubururu harimo umuntu wegereye idarapo hariho n'ijambo ryanditse ngo turi kumwe ritanjwe n'ingombajwi nkuru ariyo T hakaba hariho ibimenyetso by'ikirango by'ibyo bintu bigaragara.

Abantu benshi bamanitse amadarapo amadarapo y'igihugu cy' Urwanda afite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu harimo izuba biragaragara cyane ko bishimiye, akana kamwe kishimye cyane ntamenyo gafite hari umukobwa nawe imbere cyane wasetse cyane bamanitse amadarapo bishimye hari umukecuru uri guhengereza ufite agatambaro akifubitse.

Imbaga y'abantu benshi cyane, bigaragara ko bashobora kuba bari mu nama, harimo abagore n'abagabo, hari umusore washyize amaboko ku mavi, yambaye agapira k'umweru gaciye amaboko, n'undi mugore wipfumbase wambaye amadarubindi ufite agasatsi gakeya, wambaye agapira k'umukara, ikigaragara cyo bari ahantu mu cyumba cy'inama kigari cyane kuko hari abantu benshi cyane.

Abakobwa n'abasore bigaragara ko bari mu nama bicaye ku ntebe zitukura, harimo umukobwa ufite imisatsi miremire biragaragara nyine ko bahuze cyane. Bafite ibyo barangamiye n'ibyo bari kwiga, barishimye ku isura ikigaragara cyo nta n'umwe urakaye muri bo.

Umupira w'amaboko magufi usa nk'umweru ndetse n'ubururi. Amaboko yawo arasa ubururu ndetse n' ijosi naryo rirasa ubururu, ahandi hose harasa umweru. Uyu mupira wandikishijwe amagambo ari mu ibara ry' ubururu, ikigaragara cyo aya magambo asobanura abambara uyu mupira ibyo baba bagiye gukora.

Madamu Jeannette kagame asa nkaho ari gutanga ikiganiro cyangwa ari mu nama. Ni umugore mwiza cyane ufite imisatsi miremire irambuye wambaye imiringa mu ijosi ndetse no ku matwi . Yambaye amadarubindi ku maboko yambaye isaha.

Imbaga y'abantu benshi cyane ikigaragara cyo bari mu nama harimo abagore n'abagabo hari umugore uhagaze imbere yabo wajyaga ari amabwiriza rwose aho baramukurikiye hari abicaye ku ntebe zitukura bicaye ku ntebe z'ubururu bwijimye hari abateretse ibikapu ku meza imeza ziriho imitako y isu ubu ndetse n'umweru.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane ariko urabona ko nyine higanjemo umuntu w'abagore n'umugore wambaye rwose ikote ritukura bisa nkaho arangamiye rwose ibyo aranga wambaye ikintuzi gisa nkahoyo gisa nkaho ari umwenda w'akazi cyangwa ikindi kintu kimuranga harimo abagabo bake cyane ugereraniyije n'abagore.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane higanjemo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore ,ikigaragara cyo aba bantu bashobora kuba ari urubyiruko bakaba bavuye mu mahugurwa, cyangwa hari inama bashobora kuba bari bitabiriye.

Ihuriro ry'abantu bicaye bakoze uruzigamo bahagaze ndetse na ba hagati mu muziga ikigaragara cyo hari ikintu bashobora kuba baganira, imbere yabo hari amashusho abiri yabatetse hasa amazi imbere y'intebebo harimo abagabo ndetse n'abagore cyangwa igitsina gore n'igitsina gabo.

Umwana w'umuhungu wicaye, ikigaragara cyo ari ahantu hijimye cyane, afite umusatsi mukeya wagira ngo yambaye ubusa, ahantu ari yicaye hasi, ikigaragara cyo arababaye cyane, yicaye arambije amaguru, ukuguru kumwe araguhinnye, ahese umugongo, asa nk'ukanuye cyane ashobora kuba afite ikibazo.

Umuntu usa nabi cyane, ibigaragarira amaso afite imisatsi myinshi cyane ntabwo asokoje, ikigaragara cyo umusatsi urimo umwanda n'imyambaro yambaye irasa nabi, yambaye imyenda y'inshocero ari ahantu mu muhanda, ashobora kuba umusazi.

Umwana w'umukobwa uri guseka cyane bigaragara ko yishimye afite ikintu ari kurya. Yafashe ukuboko kumwe agushyira ku meza kandi yicaye ku ntebe uyu mwana w'umukobwa yambaye impuzankano uko biri kose uyu mwana ari mu ishuri.

Umuntu w'umugabo wicaye hasi aho hari abandi bantu bahagaze iruhande rwe ariko biragaragara ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe yafashe ipine ry'imodoka aryishyira mu gatuza kandi n'ububuryo asa biragaragara ko afite ikibazo urebye ku isura.

Umugabo wicaye wambaye isaha ku kaboko wambaye umupira w'imbeho mu imbere yambayemo ikindi kintu, akaba yambaye n'ingofero bigaragara ko uyu muntu ashobora kuba afite agahinda niba atari gusa, i ruhande rwe hakaba hari igishusho kigaragaza ibyo ari gukora.

Abana benshi cyane bishimye, aho harimo abakobwa ndetse n'abahungu, ikigaragara cyo aba ahantu bari ni mu kigo cy'amashuri kuko bambaye impuzankano kandi hirya yabo hari n'ibendera ry'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu hateraniye abantu bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, aho bicaye ku ntebe zisa umukara nziza cyane, imbere yabo hakaba hari ameza, hakaba hari umugabo uhagaze ndetse n'undi mugabo wicaye n'abandi bagore bicaye hirya yabo. Ikigaragara cyo hari nk'ibiganiro bashobora kuba bari kumva cyangwa bari mu mahugurwa.

Imbaga y'abantu benshi cyane aho bari kugendera mu muhanda ikigaragara ni polisi y'igihugu cy'u Rwanda bafite n'icyapa cyanditseho kurwanya ihohoterwa n'inshingano yanjye aba bantu bari kugenda bamagana ihohoterwa kuko ari inshingano ya buri wese.

Ihuriro ry'abantu bicaye aho bari kwigishwa n'umuntu uhagaze, aha hantu hakaba higanjemo ababyeyi bakaba bari kwigishwa n'umugabo, ikigaragara cyo aba bantu barakurikiye harimo n'umubyeyi uhetse umwana kandi umuntu uri imbere ashobora kuba ari kubahugura ku bintu bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi wicaye hanze imbere ye hari intara ndetse na mironko iriho ibigori, aho umubyeyi ateruye umwana iruhande rwe hari undi mwana, ikigaragara yuko umuryango udakize urebye ubuzima babayemo.

Abagabo bicaye mu nzu ari babiri, aho umwe muri bo afite agahinda yitangiriye itama, akaba undi ari kumuganiriza, ikigaragara cyo uyu nguyu uri kuganirizwa afite agahinda, ugereranyije n'uri kumuganiriza.

Umukobwa wijimye cyane yambaye agapira gatukuramo imbere yambamo agapira gasa ubururu bwijimye afite agasatsi gakeya cyane ku kumutwe arishimye cyane ahantu ahagaze ni imbere yinzu ifite amarangi ajya gusa umuhondo ndetse ahantu hari n'intebe.

Abana bishimye cyane basetse, bizihiwe cyane, harimo abahungu n'abakobwa, bose biragaragara ko bishimye cyane, wagira ngo bicaye ahantu mu nzu, bafite ibyo bari kureba bahugiyeho cyane, bamwe bararangaye, ariko barishimye cyane, basetse, bari kureba cyane, harimo agakobwa kenda kwikorera amaboko, akandi k'agahungu katangaye kambaye umupira w'umutuku.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane bigaragara ko ari nk'icyumba cy'inama kuko higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore, imbere yabo hari ameza bigaragara ko hari ikintu bakurikiye imbere yabo cyangwa bakaba bavuye mu nama.

Ikoraniro ry'abantu benshi cyane aho higanjemo igitsina gore ugereranyije n'igitsina gabo, bakaba bambaye ibirango mu ijosi bigaragaza ikibateranije bakaba bafite ameza ariho amazi ndetse n'ibitabo.

Abantu babiri bafashe umwana w'umukobwa bigaragara nkaho afite ikibazo harimo mama ndetse n'umusore. Umumama yambaye umusaro mu ijosi umusore afite inkoni mu ntoki nyuma yaho hari abandi bantu basa nkaho bari kubareba harimo akana ndetse n'umumana uteza agatambaro k'umweru.

Umubyeyi ukuze cyane w'umukecuru biragaragara ko yishimye kuko afite akanyamuneza mu maso, ahantu ari aricaye kandi inyuma ye hari abandi bantu bigaragara ko bari kuhanyura.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane aho higanjemo abantu bambaye imyenda y'umukara bamwe baricaye ndetse abandi bahagaze inyuma, ikigaragara ko hari hari igikorwa cyari cyabahurije aha hantu harimo abagabo ndetse n'abagore.

Ahantu hari abantu babiri, aho umwe afite icyo ari kwereka undi uteruye umwana kandi akaba afite n'itumanaho mu ntoki, ikigaragara cyo ibintu ari kumwereka bishobora kuba bijyanye n'ubuvuzi bw'ubuzima.

Akana kasamye k'agakobwa gafite imisatsi myinshi biragaragara ko kari guseka ariko nanone ikigaragara cyo bari kugaha imiti, kararyamye, kari mu bitaro, kari kwitabwaho n'abaganga, gapfumuye amatwi, kari guseka, karishimye.

Umuganga ari kuvura umurwayi aho yamwasamuye umunwa agafata ibyuma ari kwifashisha kugira ngo amuvure indwara, ikigaragara cyo uyu murwayi yaje kwivuza indwara z'amenyo, uyu murwayi ntabwo ari umuntu mukuru kuko agaragara nk'umwana muto.

Umukobwa wasamye ari kugaragaza uburyo ki ashobora kuba yasukura amenyo ye akaba afite akantu mu mutwe yiteze, ikigaragara cyo uyu mukobwa ashobora kuba ari ahantu mu bwogero.

Umukobwa wasetse cyane asa nkaho ashinkiririje ufite imisatsi igera mu maso, wambaye amaherena ku matwi, washyize urudodo mu kanwa akaba ari gukwega cyane ashinyiriza, umukobwa akaba yambaye isengeri.

Umusore bigaragara ko rwose ari inzobe yafashe urudodo arushyira mu kanwa, afite amenyo y' umweru arasamye cyane, hejuru ntakintu yambaye biragaragara ko akiri mutoya mu maso, afite agasatsi gakeya cyane kandi biragaragara ko ari munini.

Abantu bateraniye ahantu mu nzu bicaye ku ntebe aho bamwe bahagaze hakaba harimo abambaye imipira y'amaboko magufi isa n'ibara ry'icyatsi, hakaba harimo n'abandi bambaye imyenda y'umweru, ikigaragara aha hantu bari kuhaganira.

Ishuri ririmo abana aho harimo abana bambaye impuzankano, bamwe bakaba bambaye imyenda idasa nk'iy'abandi, mwarimu w'abo bakaba bari kumwe bishimye cyane bigaragara ku maso ikigaragara aba bana hari utuntu bashobora kuba babahaye twabashimishije kuko buri mwana wese hari akantu afashemo.

Umusore wizihiwe uri guseka, yambaye ishati inyuma, imbere yambayemo agapira, afite agasatsi gakeya, afite ubwanwa bwinshi, ari guseka, afite amenyo y'umweru, afite amaso ajya kuba matoya, afite ibitsike byinshi.

Umusore w'ibigango wasetse ufite amenyo meza cyane, wafashe ubudodo akabushyira ku munwa akoresheje intoki ebyiri, ni munini cyane urebye ukuntu angana ku maboko kandi yambaye ubusa hejuru.

Umusore wizihiwe cyane uri guseka ubwanwa bwinshi, ufite umusatsi muke uringaniye, ufite amenyo y'umweru, ikigaragara cyo ari kwa muganga kuko hari umuganga uri kumwitaho, uwo musore asa nk'aho yicaye, ari ahantu bavurira mu bitaro.

Abantu babiri bateraniye ahantu hamwe aho bose bafite imisatsi myiza cyane umwe akaba yambaye amadarubindi undi akaba ntayo yambaye. Hari umwe uri kwerekana igipapuro aho undi afite ikaramu n'urupapuro ari kwandika ahantu bari hari ameza ateretseho amazi akaba ateguye n'igitambaro cy'ubururu.

Umugabo uri guseka neza cyane wambaye amadarubindi akaba yarapfumuye amazuru ari kwerekana amenyo ye ni meza cyane arasa umweru akaba afite ubwanwa bwinshi ariko nanone bukaba budakabije akaba yambaye umwambaro uri gusa ibara ry'umweru.

Umwana bigaragara ko ari kwa muganga kandi ashobora kuba arwaye indwara zijyanye n'amenyo. Ari kumwenyuramo gake kandi hari ibikoresho umuganga afite mu ntoki, ashobora kuba agiye gukoresha ari kuvura indwara z'amenyo, ikigaragara cyo umwana ntago akuze ni umuntu mutoya.

Umukobwa rwose wizihiwe cyane ari kwerekana amenyo ye akoresheje intoki ebyiri, afite umusatsi muremure cyane bigaragara ko rwose uwo musatsi ari mwiza cyane, uwo mukobwa afite mu kanwa keza h'umukara kandi biragaragara ko akiri mutoya mu maso.

Umwana uri kwerekana uburyo ki yoza amenyo, kuko afite igikoresho cy'amenyo. Umwana uko bisa kose ni umwana muto cyane ntabwo akuze, kuko afite agasatsi gakeya cyane ku mutwe, kandi akaba afite mu maso koko hagaragara nk'ah'abana. Umwana uko biri kose ari koza amenyo.

Umuganga uri kwita ku murwayi ikigaragara cyo uwo kwitaho ni umwana ariko ashobora kuba arwaye indwara zo mu kanwa, ari ahantu mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga kuko turahasanga ibikoresho byinshi bijyanywe no kwifashishwa mu bijyanye n'ubuvuzi.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi hakaba harimo, umukobwa ndetse n'umuhungu, bakaba bambaye imyenda, y'imikara aho umugabo we yambaye umwenda w'umukara imbereba yambaye umweru, ikigaragara cyo uyu murwayi ashobora kuba arwaye indwara z'amaso.

Umurwayi uri kwa muganga ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore kandi akaba aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, ikigaragara cyo indwara arwaye ni indwara zo mu kanwa, kuko bari kumuvura indwara mu kanwa.

Umuntu wagiye kwa muganga arwaye amenyo ikigaragara cyo uyu muntu yarirwaye iryinyo rari ryaramuzengereje kuko umuganga yarkuyemo hasigara ikinogo kinini cyane muganga yafashe igikoresho bakoresha kwa muganga akura rya ryinyo rivamo uyu muntu uko biri kose urwaye iryinyo ari kwa muganga twari kwitabwaho na muganga.

Inzu ndende cyane ikikijwe n'ibyuma, hakaba birimo indabo ndetse hakaba hari n'ibyapa hejuru byangishijwe amabara y'umuhondo ndetse n'ay'umukara, agaragaza icyo iyi nyubako iberamo.

Abana bari koza amenyo biganjemo abana biga mu mashuri abanza, bakaba bambaye impuzankano, ikigaragara cyo, bari kugaragaza ukuntu bashobora kwita ku menyo yabo neza bayagirira isuku.

Ahantu hubatse ihema risa n'umweru, hari umurongo w'abantu bari kujya gusaba serivise zijyanye n'ubuvuzi, ikigaragara cyo aha hantu hari abaganga bari kwita kuri aba bantu batonze umurongo, ahantu bari hari umuhanda ndetse bakikijwe n'ibiti.

Umuganga uri kuvura umwana ikigaragara cyo uyu mwana ashobora kuba arwaye indwara y'amenyo kuko yamwasamuye umunwa ari kureba mo imbere mu kanwa kugira ngo arebe ikibazo umwana yaba afite kijyanye n'uburwayi arwaye bwo mu kanwa...

Umuryango w'umugore n'umugabo barishimye cyane bose bari guseka umugabo yambaye amadarubindi n'umugore yambaye amadarubindi. Ikigaragara cyo bari ku meza, bari kurya, bariziwe cyane, bari kurya bananywa, ameza yabo ari gusa umweru, umuryango urishimye cyane nyuma hari amadirishya ariho amadu...

Umuganga uri kumwe n'umurwayi ari ku mwigisha kugenda, ikigaragara cyo umurwayi yaravunitse. Bari ahantu mu nzu bigaragara ko ari kwa muganga, umugabo bari kuvura n'umugabo usa nkaho akuzemo, arambaye umupira w'umweru yambaye n'umukandara mu nda, uwo muganga yambaye imyenda y'akazi.

Abantu babiri bakuze cyane bigaragara ko bashaje kuko bose imisatsi yabo yuzuye imvi, bari ku meza bicaye ahantu mu nzu bari gusangira, ikigaragara cyo rwose uyu muryango urishimye cyane, aho umugore yambaye n'imiringa mu ijosi.

Abantu babiri bishimye cyane harimo umusore bigaragara ko ashobora kuba ari umuganga ndetse hakaba hari n'umubyeyi hirya ye bafatanye mu maboko akaba afite inkoni mu ku kuboko, ikigaragara cyo uyu mubyeyi arakuze ugereranyije n'uyu musore kandi aha hantu bari hashobora kuba ari kwa muganga kuko uyu musore afite ibikoresho bimwe bakoresha kwa muganga ndetse akaba yambaye n'imyenda y'akazi.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko harimo abayobozi bari gutanga imfashanyo ku bijyanye n'ubuzima kuko hari uwo bahaye akagare yakifashisha ari kugenda kuko harimo abafite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima.

Abagore batatu bizihiwe bafite itumanaho mu ntoki bari kwifotoza, umwe yambaye umweru, undi yambaye umuhondo, undi yambaye umweru, babiri bafite imisatsi isa imyemweru, undi afite umusatsi usa umweru n'umukara, bari ahantu mu biti, abantu basetse, bizihiwe, bameze neza, basa nk'aho bicaye.

Umugabo ukuze bigaragara ko ateruye umwana, ufite imvi nyinshi cyane wambaye ishati y'amaboko maremare wafunze igipfunsi rwose kandi ateruye umwana, ufite igikinisho umwana ufite agasatsi gakeya biragaragara ko ahantu bicaye ari mu nzu.

Abantu babiri bicaye ahantu mu nzu bigaragara ko hari umusaza bisa nk'aho akuze cyane, afite nyinshi mu mutwe ndetse n'ubwanwa bwuzuye imvi n'aho umukecuru nawe afite amasaro mu gatuza, akaba afite imvi nyinshi mu mutwe, bakaba hari ibyo bari kwerekana muri telefone, aho umusaza afashe telefone afite ibyo ari gusobanurira uyu mukecuru kandi bakaba biteretse ikirahuri cy'amazi.

Abantu bizihiwe cyane bisa nkaho bariguha impano uyu mukecuru urimo hagati hari ababyeyi biteze udutambaro mu mutwe ndetse n'abatwiteze, hakaba harimo abagabo rwose byashimishije bamwe bakaba bari no gukoma amashyi.

mubyeyi uri gusomana n'umwana w'umukobwa ufite imisatsi miremire cyane wambaye agapira k'amaboko magufi, biragaragara ko uwo mukobwa atukuyemo gakeya ariko ugereranyije n'uwo mubyeyi bari kumwe umukobwa we ni muto cyane, ashobora kuba ari nka mama w'iwe, umubyeyi biragaragara ko yishimye mu mu maso rwose afite agasatsi gake.

Ahantu hicaye abantu b'igitsina gore ndetse hari n'igitsina gabo aho uwo muntu ateruye umwana ndetse hari abicaye hasi n'abicaye mu ntebe, bamwe muri bo bari kuboha bimwe mu byibo cyangwa ibitebo.

Abantu babiri bicaye ahantu mu nzu, aho umwe ari kwereka undi byanditse ku rupapuro, undi nawe akaba afite imiti mu ntoki agiye kuyinywa, imbere yabo hari igikombe kirimo amazi.

Abagabo babiri, aho umwe ukuze afashwe n'udakuze, akaba amufashe mu mugongo, ikigaragara cyo uyu musaza ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi ku bijyanye n'ubuzima bwe niba atari impamvu y'ubukure.

Ikoraniro ry'abantu bakuze aho hari abicaye hasi abandi bakaba bicaye hejuru ku ntebe zisa umwe, ikigaragara cyo aba bantu hari ibiganiro bateze amatwi kuko bose uri kubona ko hari ibyo bakurikiye kandi ahantu bicaye akaba ari ahantu hari insina.

Umusaza bigaragara ko yagiye gusaba ubuvuzi kwa muganga akaba ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa ufite imisatsi miremire igera mu mugongo, bose bakaba bizihiwe, bakaba bari guseka cyane, umusaza arasa nkaho akuze yambaye amadarubindi.

Umusaza ukuze ufite ikaramu ndetse n'ikayi akaba ari kwandika, yambaye amadarubindi afite umusatsi wuzuye imvi, yambaye umwenda w'akazi usa n'ibara ry'umweru. Ikigaragara cyo uyu musaza ari mu kazi.

Umugabo wishimye cyane wibukira n'umwana we, aho bafashe umupira rwose, akana ni gato biragaragara kari agakombe gafite imisatsi ifungiye hejuru y'ibivundo mu byiciro uri ahantu mu kibuga, umugabo yambaye ikabutura ngufi rwose cyane agapira k'umweru, n'akana bari gukina akambaye agapira k'umweru n'imbere ndetse n'agashati inyuma.

Umugabo wizihiwe cyane bisa nkaho yagiye kwa muganga bakaba bari kumwereka uburyo ki ashobora kugorora akaboko hakaba hari umuganga w'umugore ufite imisatsi miremire cyane igwa mu mugongo ariko uyu musaza we akaba afite umusatsi muke cyane ku mutwe ukaba urimo imvi n'ubwanwa bwe bukaba buririmo imvi akaba yambaye agapira k'ubururu.

Abantu babiri bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo umugore ndetse undi akaba ari umugabo, aho bose bari kwirukanka rwose bishimye cyane bafite akanyamuneza ku maso yabo bigaragara.

Famiye rwose yishimye, yizihiwe, aho abana batoya babafashe bakabashyira mu mugongo, hakaba harimo ndetse n'umusaza ukuze cyane, ufite imvi mu mutwe ndetse no mu bwanwa. Bakaba bari ahantu hari ibiti bisa neza cyane.

Umusaza ukuze uri kwa muganga, ari kwitabwaho n'umukobwa w'inkumi rwose ukiri mutoya, ufite imisatsi myinshi yafungiye hejuru, yambaye itaburiya y'umweru, uwo muganga yicaye ku ntebe y'umweru, yafashe akantu ari gupimisha uwo murwayi agatereka ku meza, ubundi afata ukuboko kwe arakuzirika kugira ngo amupime.

Abantu bicaye ahantu hanze bisa nk'aho bose bicaye hasi hamwe harimo umuntu umeze nk'umuganga kuko afite ibikoresho bimwe bakoresha mubi bijyanye n'ubuvuzi, ari kwita ku muntu w'umubyeyi ukuze wicaye ahantu hasi, aho bicaye hafi yaho hari ubusitani burimo indabo nyinshi ndetse n'ibiti.

Umuntu w'umugabo usa nk'aho akuze, ikigaragara cyo ashobora kuba ari kwa muganga, aricaye kandi yambaye umwenda ujya gusa nk'igitaka umusatsi watangiye kuzamo imvi. Uko biri kose yagiye kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Abantu bahuriye ahantu mu isoko aho bamwe muri bo baje kugurisha kugira ngo babone amafaranga, ndetse bamwe nabo bakaba baje kugura kugira ngo babone ibyo kurya kuko ntabyo bafite, higanjemo imbuto ndetse n'imboga.

Abantu bishimye cyane harimo umukecuru ukuze cyane aho umusatsi we wose wahindutse imvi, bakaba bicaye ahantu mu cyumba undi nawe w'umukobwa akaba ari mu bitugu by'uwo mukecuru banezerewe cyane, afite umusatsi bafungiye hejuru ku mutwe.

Umugabo ukuze cyane ufite itumanaho mu ntoki aho bari ahantu hameze nko muri saro, hakaba hari ibyo ari kwereka umugore uri hirya ye. Bose bicaye ku ntebe, ahantu bari bimeze nk'aho bari ahantu mu nzu bakaba bafite ibyo bahugiyemo bari kwerekana.

Abantu babiri bishimye cyane rwose, aho harimo umubyeyi usa nk’aho akuze afite imisatsi yafungiye inyuma, akaba inyuma mu mugongo we hari undi mwana w'umukobwa rwose wishimye akaba asutse imisatsi iryamye ku mutwe, ahantu bari ni nko mu nzu kuko umubyeyi aricaye.

Abantu bari ahantu mu nzu bigaragara ko hari umwe muri bo urwaye urimo hagati, bamwe babiri bakaba bamufashe, umwe akaba ari mu kaboko k'iburyo undi akaba ibumoso, ikigaragara cyo uyu muntu ararwaye cyane.

Ihuriro ry'abantu biganjemo igitsina gore n'igitsina gabo, aho bamwe bicaye mu ntebe z'umweru, abandi bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho, abandi bakicara hasi. Bose bari munsi y'igiti, ikigaragara cyo bashobora kuba bari mu nama.

Umuryango w'abantu bakuze bose, bigaragara ko bishimye cyane, bakaba bari ku meza bari kurya bananywa, ahantu bicaye ni mu nzu, ikigaragara cyo harasa neza cyane, harimo amabara asa umweru.

Abantu babiri bari ahantu mu nzu hari umusaza ukuze cyane wambaye agapira k'umweru, wambaye n'ipantaro ijya gusa umukara. Hari umukobwa usa nk'aho akuzemo ufite imisatsi miremire cyane, wambaye imyenda isa nk'ubururu bwijimye, ahantu bari hari irangi ry'mweru, ikigaragara cyo uyu mugabo bari kumuvura ashobora kuba arwaye.

Umugore wizihiwe cyane rwose ufite agasatsi gakeya ufite amenyo meza cyane y'umweru, wambaye agapira k'amaboko magufi. Ateruye ikintu mu ntoki bigaragara ko uwo muntu afite imbaraga. Inyuma ye hari abandi bantu na bo basa nkaho bishimye cyane, begereye ahantu hari ibimera byiganjemo ibiti.

Umukecuru n'umusaza bizihiwe cyane biragaragara ko bishimye bari ahantu mu nzu, umugabo afite igikombe wagira ngo ari kunywa amata, umukecuru arahagaze yambaye amadarubindi afite umusatsi urimo imvi ariko n'uwo musaza afite ubwanwa bwuzuye imvi.

Umuryango wicaye hanze aho bari gufungura, hari umusaza mukuru cyane bigaragara ko akuze, umutwe we wuzuye imvi, yambaye hejuru umwambaro usa umweru, hari n'abana hirya babiri barimo umukobwa n'umuhungu, umwe w'umuhungu afite akajerekani ndetse n'icyo ari kurisha mu ntoki.

Ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda kigaragaza Minisiteri ishinzwe Ubuzima, aho kiri mu ibara biragaragara ko harimo n'amasaka mo imbere ndetse no mu bururu iki kirango kikaba ari ik'igihugu cy'u Rwanda.

Ikoraniro ry'abantu, aho umwe muri bo ari imbere akaba ari umugore, akaba afite ibyo ari kubwira abandi afashe indangururamajwi mu ntoki, akaba afite imisatsi miremire. Ikigaragara imbere hari abantu bahicaye ari kubabwira.

Imbaga y'abantu higanjemo igitsina gabo n'igitsina gore bahuriye ahantu hamwe asa nk'aho ari mu nzu, ikigaragara cyo hari abagabo bicaye imbere ndetse harimo n'abagore babiri bari guha amabwiriza cyangwa inama cyangwa ibiganiro abicaye imbere y'abo, abicaye imbere y'abo bicaye ku ntebe zitukura.

Igitabo gifite ibara ry'ubururu ryijimye ndetse n'icyatsi, ku gahande gatoya iki gitabo cyandikishijwe inyuguti ndetse n'ingombajwi ziri mu ibara ry'umweru, ikigaragara cyo izi nyuguti n'izi ngombajwi byanditse kuri aka gatabo bisobanura ikirimo imbere mu gitabo.

Ahantu hari abantu benshi cyane higanjemo igitsina gore kurusha igitsina gabo, bakaba bari ahantu mu cyumba bamwe bicaye hasi abandi barahagaze, abandi bamanitse amaboko kuko biragaragara ko abo bantu bishimye cyane.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bambaye neza cyane, umwe muri bo yambaye amadarubindi, undi afashe igitabo akaba yambaye impeta ku kaboko, ikigaragara cyo aba bantu basa nk'abayobozi, inyuma yabo hari icyapa iki kirango cy'igihugu.

Umukobwa rwose usa nk'aho ari kumwenyura ufite igikoresho mu ijosi, ibikoresho bakoresha kwa muganga akaba yambaye umwenda w'akazi ndetse akaba afite n'akagofero mu mutwe bigaragara ko uyu muntu ashobora kuba ari muganga.

Abantu bane aho bari kugaragaza ibintu biri kuri iki kirango, harimo abakobwa babiri ndetse n'abasore babiri, aho umukobwa umwe w'inyuma yambaye amadarubindi akaba afite imisatsi igwa mu mugongo ndetse n'uw'imbere akaba afite imisatsi yo mu mu mugongo, akaba yashyize n'agakapu mu gituza.

Abantu bateraniye ahantu hamwe hameze nko mu cyumba hari abaganga bari kwita ku barwayi aho hari umukecuru usa nkaho akuze agiye guterwa urushinge na muganga kandi hakaba hari umuntu hanze umeze nk'ushinzwe umutekano.

Ikirango kigaragaza amagambo yandikishije ibara ry'umweru, akaba yanyanditse mu nyuguti nkuru ndetse n'andi magambo yandikishije ibara ry'umuhondo, akaba ari mu nyuguti nto, bikaba bisobanuye ko ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende.

Umuganga uri gutera umwana urushenge. Bigaragara ko bateye abana inshinge mu kwezi kwa kane, ku itariki cumi n'enye, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Hari abana benshi hafi aho, bari gutera shinge; ikigaragaza cyo uyu ni umuganga.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane aho bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze, hakaba higanjemo abagabo ndetse n'abagore inyuma yabo hakaba hari amabendera, rimwe risa icyatsi ndetse irindi rikaba risa ubururu, bakaba bari ahantu hasa nk'aho ari mu cyumba kigari.

Abantu bane bari kurebera mu kintu kimeze nk'ikirahure rwose barishimye cyane agapira gatukura uri inyuma yabo utarimo nezaumurongo ntabwo baringaniye uri ibiti byinshi cyane.

Ahantu hateraniye igitsina gore bafite ibyo barangariye bose, aha hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari n'icyapa kigaragaza ibyo bahakorera aha Hantu uretse ko harimo n'umwana umwe mutoya.

Ahantu abantu bateraniye aho hari abicaye imbere batandatu ndetse n'abandi benshi bicaye imbere yabo. Harimo umugore umwe abandi bose batanu ni abagabo, ikigaragara cyo aba bicaye imbere, hari ibyo bari kubwira aba ngaba bicaye imbere.

Abantu batonze umurongo umwe, aho harimo abantu bambaye imyenda y'umweru, n'abambaye imyenda isa umukara na babiri bambaye imyenda isa ubururu, ahantu hashobora kuba hari ibikorwa bihabera bishobora kuba byahahurije aba bantu.

Abantu bari ahantu mu nzu bigaragara ko ahantu hatangirwa serivise zijyanye n'ubuvuzi kuko hari uwicaye bari gutera urushinge, ikigaragara cyo umuntu umutera urushinge ni umuganga kuko afite ibikoresho bikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Ababyeyi bari ahantu mu nzu bicaye ku ntebe bose bateruye abana babo, ikigaragara cyo abantu bari kwa muganga kuko inyuma yabo hari ibipapuro bimanitse ku rukuta bigaragaza ko ahantu hatangirwarwa ubuvuzi.

Ikoraniro ririmo abari benshi cyane rwose bigaragara ko bishimye cyane higanjemo abambaye imyenda isa umweru cyane cyane kurusha andi mabara yose aho ku ntebe y'imbere hicayemo abantu biganjemo umukara. Ikigaragara cyo abantu bashobora kuba biganje bicaye imbere bashobora kuba harimo abayobozi.

Umugore wagiye kwa muganga bari gutera urushinge ikigaragara cyo afite ubwoba bwinshi cyane yashinyirije yambaye isaha ku kaboko afite n'amadarubindi, ishati ahagana mu gatuza akaba afite imisatsi myinshi cyane yafungiye hejuru mu mutw. Ikigaragara cyo ari kwitabwaho n'umukobwa ari we muganga.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi cyane higanjemo abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko bashobora kuba bari mu mahugurwa cyangwa hari inama bitabiriye kuko bose urabona ko hari ikintu bahugiyeho bahanze amaso. Imbere yabo hashobora kuba hari umuntu uri kubaganiriza cyangwa bari kuganira.

Ahantu hateraniye abantu benshi aho bashinze umuhema ufite ibara ry'umweru, hakaba hari abantu bari kuza babagana bakabicaza ku ntebe bakabaha serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari kugaragara ko hari abaganga.

Inzu igaragara ko harimo ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi, hakaba harimo igitanda gishashe neza cyane, hakaba hariho imisego, hakaba hariho uburiri bushashe neza buriho amashuka asa nk'umweru. Ikigaragara cyo iki gitanda gishobora kuba kiryamwaho n'abarwayi. Iyo baje bagana ibi bitaro mu bijyanye n'ubuvuzi. Umurwayi wese uje arembye ashobora kuba aryama kuri ubu buriri, cyangwa iyo bari kumuvura abanza akaburyamaho.

Icyumba kinini cyane bigaragara ko aha hantu hashobora kuba hatangwa serivisi bijyanye n'ubuvuzi kuko hari amashuka meza cyane ashashwe ibitanda bishobora kwifashishwa baryamishaho abarwayi baje bagana aha hantu.

Inzu nini cyane igeretse hasi nohejuru ifite imiryango ine itatu muriyo irafunguye umwe muri uwo muryango arimo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi ubucuruzi imbere y'iyo nzu nini cyane hasi haparitse imodoka i ruhande rwayo.

Icyumba kinini cyane kigiye giciyemo uduce duce, aho harimo ibikoresho bigiye bikoreshwa mu kuvura abarwayi bita ku buzima bwabo nk'ibitanda bashobora kwifashisha bari kubaryamishaho ndetse n'ameza bashobora guterekaho ibikoresho.

Inzu irimo isaha ndetse n'indi mitako, itandukanye, hakaba harimo intebe nziza cyane ndetse n'ibindi bikoresho, iyi nzu ikaba ifite amarangi asa umuhondo, hejuru mu gisenge hakaba hasa umweru, ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba hari serivisi zihatangirwa, zijyanye n'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane nini, ishobora kuba igeretse, kandi hakaba hari ibishushanyo bishushanyije ku bikuta, iyo nyubako irimo intebe nziza cyane zijya gusa icyatsi, ndetse ariko akaba atari icyatsi neza, ikaba ifitemo irangi ry'umweru mo imbere munda.

Inzu nini cyane aho abantu bamwe bari hejuru abandi bakaba bari hasi, hakaba hari ishusho igaragaza iyi nzu icyo ikora, ikaba igaragaza ikigo nderabuzima cya Nyaruyezi ikigaragara cyo aha hantu hatangirwa serivisi zijyanwe n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane ifite hasi no hejuru, ikaba ifite amabati ajya gusa umutuku, hakaba hari amagambo yanditse ku gikuta ari mu ibara ry'umuhondo, rigaragaza ko aha hantu hatangirwa serivisi, kuko biri kugaragaza ko ari ibitaro by'akarere ka Shyira.

Inzu nini cyane ifite imiryango irenze ibiri, harimo intebe ziteranya imigongo n'izindi ntebe zidateranya imigongo, harimo jaride mo imbere. Biragaragara ko hashobora kuba haberamo ibikorwa bijyanye n'inama cyangwa ibijyanye n'ubuvuzi, harimo irange risa umweru ndetse n'irijya gusa umuhondo.

Inyubako iri ahantu ku muhanda hirengeye, aho hari icyapa kigaragaza serivisi zihabera, hari no hirya ikindi giti kinini cyane kihegereye ndetse hari n'umuhanda muremure ugaragaza inzira ijyayo, ikigaragaracyo iyi nzu ishobora kuba hari serivisi zihatangirwa cyangwa ibindi bikorwa bihabera.

Inzu nini cyane igeretse inshuro ebyiri, aho hari abagabo batatu bahagaze bari kuganira ndetse n'umugore umwe uri kuva kuri iyo nyubako, imbere y'aba bagabo haparitse imodoka ndetse no hirya yabo hari iyindi modoka ihari, ikigaragara cyo aha hantu hari serivisi zatangirwa kuko hari icyapa kibigaragaza.

Aho ushinzwe gutanga serivisi zijyanye n'ubuzima ari kwita ku mwana muto cyane w'uruhinja, bigaragara ko uyu mwana ari kwa muganga, hagaragara ibikoresho bimwe bakoresha bari kwita ku buzima bw'abantu.

Inzu nini cyane igaragara ko ishobora kuberamo inama, harimo imitako myinshi cyane, harasa neza koko biragaragara ko aho hantu hashobora kwicara abantu bakomeye, harimo intebe z'icyatsi, ubururu bujya kwijima, amarange meza cyane ay'umweru.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo cyangwa igitsina gore n'igitsina gabo bambaye imyenda bose ijya gusa, harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ijya gusa umweru ariko ubona ko atari umweru neza, bicaye ahantu mu nzu hari irange ry'umweru ndetse n'icyatsi kijimye, ikigaragara cyo hari ibintu nyine barangamiye imbere yabo bari kureba cyangwa bafite ibintu bijyanye n'inyigisho bari gukurikirana.

Mu muhanda harimo abantu benshi cyane, aho hari abantu bari mu muhanda bamwe barikoreye ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza ibitaro bya Ruhengeri, ikigaragara cyo aha hari inyubako irimo ibitaro, aho abantu bamwe baza bakahaherwa serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inzu nziza cyane zubakishije amatafari ajya gusa n'ivu, rikaba bifite amarangi asa nk'umuhondo, ndetse bikaba bifite ibirahuri ndetse n'amadirishya meza cyane. Imbere y'izo nzu hari ubusitani bwiza cyane bwiganjemo ibyatsi.

Inzu nini cyane igaragaza aho abantu bari kugenda, imbere y'iyi nzu hari ubusitani bwiza cyane bufite indabo ndetse n'ibyatsi. Hakabaho igiti kinini cyane giteye muri ubwo busitani. Ikigaragara cyo aha hantu ntabwo ari ku manywa harijimye.

Umukobwa uri kwa muganga bisa nkaho ari kwita ku murwayi, akaba yambaye imyenda y'akazi isa n'ibara ry'ubururu, akaba afite umusatsi muremure ugwa mu mugongo, ikigaragara cyo aba bantu bari ni kwa muganga kuko uyu mukobwa yambaye imyenda y'abaganga.

Inzu nini cyane igeretse ifite imiryango irimo ifunguye n'idafunguye, aho imiryango ifunguye ishobora kuba icururizwamo imiti ijyanye n'ubuvuzi bwo kwita ku barwayi baje bayigana, aho haparitse imodoka hanze.

Uruzitiro runini rwubakishije amatafari ya rukarakara aho hari icyapa gisa nk'umweru gifite amagambo yandishije ibara ry'umukara ikigaragara cyo iki cyapa kiri kugaragaza serivisi zikorerwa aho ahantutu hari icyapa cy'umutuku n'umweru kandi aho ngaho hari ibimera birebire by'ibiti ndetse n'ibyatsi bigufi cyane ikigaragara cyo harimo umuhanda ushobora kunyurwamo n'abahisi n'abagenzi.

Ahantu hari abagabo batatu aho babiri bicaye imbere hakaba hari uwambaye umupira utukura imbere hari mudasobwa ,akaba yashyize akaboko ku meza akagafatisha ku rutugu inyuma ,imbere ye hari amazi inyuma hari undi uri kuri mudasobwa wambaye imyenda y'umukara ariko akaba adakurikiye imbere yabo hari undi mugabo wambaye ishati y'amaboko maremare hasi akaba yambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y' y'umukara ,akaba haribyo ari kubereka imbere ku kirango.

Inzu nini cyane ifite imiryango myinshi itandukanye, ikigaragara cyo aha hantu habashobora kuba hari abantu benshi, buri wese akaba ari mu cyumba cye cyangwa hakaba hari ibyumba by'inama. hirya yayo hari intebe, hariwe n'undi muryango wa nyuma uhera.

Inzu igaragara neza ifite ibirahure mo imbere bigaragara ko hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye no gucuruza imiti, amavuta ndetse n'ibindi. Muri iyi nzu harimo irangi risa ibara ry'umuhondo harimo amatara abiri, ahantu hari intebe isa umweru

Inyubako nziza cyane isa nk'aho ari icyumba, ikaba ifitemo igitanda mo imbere, bigaragara ko icyo gitanda gishashe n'amashuka y'umweru, hakaba harimo irangi ryiza cyane ry'umweru, hakaba harimo n'inzugi ebyiri ikigaragara cyo aha hantu niho bavurira abarwayi.

Inyubako nziza cyane rwose ifite amarangi y,umweru, ifite ubusitani bwiza buririmo ibiti bitandukanye, harimo ni'ibyatsi byiza cyane ashobora kuba yakwicara hariyo umugabo wambaye agapira k'umutuku uri ahantu, ubusitani bw'imbere y'indabyo ahamanuka rwose yambaye imyenda itukura hejuruyambaye imyenda y'umukara.

Inzu nini cyane iruhande rwayo hari ibijerekani bashyiramo amazi, bigaragara ko bifashishwa mu kureka amazi ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiganjemo indabo hakaba hari n'amagambo yanditse ku gikuta cy'inzu avuga ngo ni ibitaro bya Remera rukoma.

Abarwayi bari kwa muganga bari kwitabwaho n'abaganga aho baryamye ku bitanda bisa ubururu, bakaba bari kwitabwaho n'abaganga b'abagore harimo umuganga ufite agasatsi gake cyane, wambaye agapfukamunwa, n'undi akaba ari kwita ku murwayi ufite imisatsi igera mu mugongo akaba yambaye agapfukamunwa. Ikigaragara cyo abantu bari kwa muganga.

Abantu bicaye hanze ku mabaraza y'inzu, aho igaragazazwa ko hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari amagambo yanditse ku rukuta hejuru ivuga ko ari ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Umuntu uryamye ahantu hashashe amashuka y'umweru hari ibikoresho byinshi bitandukanye, uyu muntu ashobora kuba aryamye kwa muganga kuko hari ibintu bakoresha bifashisha mu bijyanye no kwita ku barwayi.

Inyubako nini cyane aho igeretse inshuro ebyiri hakaba hari icyapa kigaragaza serivisi zihabera, hakaba hari n'utundi twapa dutoya turi aho ngaho dushobora kuba tuyobora abantu bose baje bagana ino nyubako.

Icyumba kinini kirimo igitanda cy'umukara bigaragara ko aha hantu ari kwa muganga, hari n'ibindi bikoresho bihari nk'ameza ndetse hari amarangi y'umweru n'amadirishya y'umweru, ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nini ifite umuryango ndetse n'amadirishya manini, hanze hari intebe ihateretse, aho hari umu wambaye umwenda w'akazi w'umweru akaba ahagaze imbere y'iyo nyubako, ikigaragara inyubako ishobora kuba itangirwamo serivisi zijyanye no gupima indwara ku bijyanye n'ubuzima.

Icyumba kinini cyane kirimo umuntu uryamye ukuze ikigaragara cyo ni uko uyu muntu afite uburwayi munsi y'igitanda aryamyemo harimo inkweto yari yambaye, hirya y'igikuta hariyo umuganga uri kumwitaho harimo ibindi bikoresho bihagije cyane ushobora gukoresha uri kwita ku buzima bw'abaturage.

Ahantu hateraniye abasore n'inkumi cyangwa igitsina gabo n'igitsina gore, bigaragara ko hari ibyo barangamiye, abahari bose bambaye imyenda y'imyeru n'aho bari harasa umweru, hari abari kugenda, hari abicaye, hari n'abahagaze, ikigaragara cyo bafite umuntu barangamiye.

Icyumba kinini cyane kirimo ibitanda bikaba bisa umweru kuruhande hakaba hari akarango k'ubururu ndetse bikaba bishasheho amashuka asa n'icyatsi kibisi, ahantu ikigaragara cyo mu bitaro bya bisha abarwayi.

Inzu nini cyane irimo intebe zitandukanye, harimo intebe zimeze nk'izo muri salo, harimo intebe zimeze nk'izo mu biro, ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba haberamo inama cyangwa batanga ibintu bijyanye na serivisi, aha hantu ni heza rwose cyane harimo inzu nziza irimo amarange asa nk'umuhondo.

Inzu nini cyane yubatse ku buryo butangaje, aho umukobwa ari munsi yaho ku ibaraza akaba yegamye ku gikuta, kandi imbere y'aho hantu hari indi nzu hirya yayo, iruhande rw'imbere y'iyo nzu hari ubutaka wagira ngo bashaka gushyiramo ubusitani.

Imihanda ibiri cyane, aho umwe utambika ibumoso undi ukajya iburyo, hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire ndetse n'indabo nziza, hakaba hari n'icyapa aho ngaho kigaragaza ibintu bishobora gukorerwa aho hantu.

Umuganga uri ahantu mu bitaro bigaragara ko hari ibikoresho bikoreshwa mu kwita ku buzima bw'abaturage, iyi nyubako ikaba ari nini cyane kuko ifite imiryango myinshi cyane kandi inyuma hakaba hari n'abandi bantu, bari kugenda muri iyo nyubako.

Hakaba ari kigo nderabuzima cya Gishweru, hatangirwa ubuvuzi, hari umugore uhahagaze, wambaye agapira gatukura, undi mugabo wicaraye, harimo n'umugore uhagaze wambaye ishati y'umweru, bigaragara ko bashobora kuba ari umukozi waho n'abandi bamama babiri bari kumanuka bahetse abana.

Icyumba kinini cyane bigaragara ko icyo cyumba gishobora kuba gikorerwamo ubuvuzi, aho abarwayi bashaka baza kuryama, hari igitanda gisashe neza cyane rwose kiriho amashuka y'umweru, hari n'ibyuma byinshi bashobora kuba bakoresha bifashisha kuvura abarwayi.

Inzu nziza cyane ifite amabati ajya gusa umuhondo kandi ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane bwiganjemo ibyatsi ndetse n'indabo zitari nyinshi, ahantu iri ni ahantu hirengeye cyane kuko uba ureba imisozi hakurya.

Inzu nziza cyane ifite ubusitani bwiza hakaba hari ikirango cyandikishijwe mu nyuguti z'mweru icyo kirango kikaba gifite ibara rijya gusa uburu bwijimye bikaba bigaragaza ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ikigaragara cyo aha hantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba kinini cyane kigiye gifite agace hakaba harimo ibitanga bishashe neza, ikigaragara cyo ahantu hashobora kuba hatangirwa ubuvuzi bwo kwita ku buzima bw'abaturage baje bagana aha hantu.

Umusaza wishimye cyane uri kumwe n'umukobwa ari kumwitaho, ikigaragara cyo ashobora kuba arwaye kuko uyu ni umuganga uri kumwitaho. Uyu musaza yambaye amadarubindi, ahantu bari ni ahantu mu nzu kuko barihicaye.

Inyubako nini cyane rwose ibereye ijisho, iri ahantu heza cyane, inyuma hari imodoka, hari amatafari agiye ahakikije asa umuhondo n'umukara, zifite amadirishya asa ubururu, mbese inzu ifite amarangi y'umweru, hari ndetse n'ubusitani burakikije, hari n'umukindo imbere.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani imbere yayo , bukaba bwiganjemo indabo z'amabara menshi , aha hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi kuko hari abantu bicaye iruhande rw'inyubako, bisa nk'aho bagannye aha hantu hari icyo baje kuhakora.

Umuryango munini cyane ufite ikirango kijya gusa nk'ivu handitsemo amagambo yandikishijemo ibara ry'umweru. Aya magambo arasobanura neza ibibera muri iyi nyubako aho hari umuntu utwaye igare winjiyemo imbere, hakaba harimo n'undi muntu ahagaze. Hirya yabo imbere y'inyubako hakaba hari abandi bantu bicaye.

Inyubako nini cyane aho irimo abantu benshi akaba abakozi baho bambaye ingofero mu mutwe, bakaba bambaye n'imyenda y'akazi isa nk'umweru, hakaba hari abantu benshi baje bahagana, ikigaragara cyo aha ngaha hashobora kuba hatangirwa serivisi.

Inzu nziza cyane aho harimo intebe nyinshi cyane ndetse hakaba hari n'icyapa cyanditseho amagambo agaragaza ibintu bakorera aha ngaha imbere. Ikigaragara cyo inyubako ni nini kandi ishobora kuba hari serivisi zihatangirwa.

Inzu nini cyane, imodoka iri gusohoka, umugabo ari gufungura imodoka igasohoka, umugabo wicaye hanze, hari ibyatsi biri imbere y'iyo nzu n'indabo zisa icyatsi, iyo nzu ni ndende mo imbere harimo indi modoka nabandi bantu bicayemo, imodoka iri kujya mu muhanda munini.

Umuganga uri kwita ku murwayi ikigaragara cyo uyu muganga ari kumva ikibazo uyu umurwayi yaba afite, yafashe akaboko ke agakoza ku gutwi kwe sinzi ibintu ari kumva, ikigaragara cyo aha hantu bari ni kwa muganga kuko muganga yambaye imyambaro y'akazi.

Icyumba kinini cyane bigaragara ko aha ahantu hashobora kuba ari kwa muganga hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, kuko hari abantu barimo kuhakorera amasuku. Harimo umusore ndetse n'umukobwa, abantu bamwe bararyamye abandi baricaye, uburiri bumwe buriho abantu ubundi nta bantu bariho.

Abantu bari kugenda babiri aho umwe yambaye umwenda w'akazi muremure, n'undi akaba yambaye umupira usanzwe ufite ibara ry'umweru. Ikigaragara cyo iyi nyubako hari ibikorwa bihabera bijyanye no kwita ku bantu.

Umusore usa nkaho ari mutoya ufite agasatsi gakeya cyane, yambaye umwenda w'ubururu hejuru ikigaragara cyo hari ibintu arimo gukorera kuri mudasobwa. Ahantu ari rwose ni mu nzu kandi harimo mudasobwa iteretse, iteretse ahantu ku meza .

Inzu nini cyane ebyiri zifite ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi bifite amarangi asa umukara ndetse n'ay'umweru, byubakishije amatafari ahiye zifite inzugi zimwe zijya gusa ubururu bwijimye, hariho n'igipangu kinini cyane gisa nkaho kiri ku muhanda.

Inzu nini cyane ifite umuryango ujya gusa n'ibara ritukura harimo ibikoresho byinshi byiganjemo ibikoresho bisa umukara ndetse n'ibijya kugira ibara ry'umweru. Aha hantu hagaragara nk'ahantu hashobora kuba hashobora kuba haberamo imyitozo ngororamubiri, kuko ibikoresho bihari bigaragaza ko ari ibikoresho bakoresha mu kuvura umubiri ibijyanye n'imyitozo.

Icyumba gikoreshwa kwa muganga gifite amabara y'umweru ndetse hakaba harimo n'igitanda gisashishijwe amashuka y'umweru, ikigaragara cyo hari n'ibyuma bikoreshwa cyane cyane kwa muganga, ndetse hari na mudasobwa bashobora kwifashisha mu kwita ku barwayi.

Abantu bateraniye ahantu hameze nko mu nganda byicu by'imiti bakoresha kwa muganga ikigaragara muri ruganda bakora imiti yo kwa muganga kwifashisha bari kwita ku barwayi bashaka barwaye indwara zitandukanye.

Abantu bari mu bitaro baryamye ku bitanda, ikigaragara cyo nta baganga bahari bari kubitaho, ariko bari kuvurwa biragaragara, bararyamye bambaye imyenda y'umweru, ni abagabo, umwe aragaragara nkaho ari mukuru, undi aragaragara nkaho ari mutoya, umwe ari ku miti.

Umubyeyi uri kwa muganga bigaragara ko arwaye, akaba aryamye ku gitanda gishasheho amashuka asa ubururu, akaba yiteze igitambaro mu mutwe, ikindi akagikenyera mu gatuza, ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore wambaye amadarubindi, ikigaragara cyo ahantu bari ni mu bitaro.

Inyubako ndende imbere yayo hakaba hari ibyapa biyobora ndetse n'ibibujijwe gukorerwa aho hantu, hakaba hari n'amabendera atatu mo hagati hakaba harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Ikigaragara cyo hariho n'ibirango biranga ko aha hantu ari kwa muganga.

Umukobwa w'imisatsi myinshi biragaragara ko ari kwihuta, ari kugenda, ahantu ari kugenda wagira ngo ni mu bitaro, hari abantu benshi, abirabura ndetse n'abatirabura, ikigaragara cyo ari kwihuta cyane, umukobwa ubyibushyemo asa nk'aho ajya kuba inzobe.

Inzu irimo intebe ndetse n'ameza, ikigaragara cyo aha hantu hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi kuko hari icyapa kiri ku gikuta kigaragaza ko aha hantu bashobora kuba bavura indwara zijyanye n'amaso, aha hantu ni kwa muganga.

Inzu nini cyane ikigaragara cyo hashobora kuba haberamo inama, harimo intebe nziza cyane zisa umukara, izi ntebe barazihina, ugiye kuhicara urazihinura, hariyo ameza asa umweru, mu imbere hari n'ahandi hajya gusa umuhondo, harimo ameza asa neza cyane.

Abaganga bane, bose bambaye imyenda y'akazi, bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bambaye ikarita mu ijosi y'akazi, abandi babiri muri bo ntago bambaye ikarita mu ijosi y'akazi, aba baganga bari imbere y'inzu y'ababyeyi, aho ababyeyi babyarira, iyi nzu ni nini cyane kuko bigaragara ko ari inzu ikorerwamo ubuvuzi, aho muri iyo nzu harimo jaride irimo ibyatsi ndetse n'indabo.

Umuntu uryamye ku gitanda wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero, ikigaragara cyo ni umugabo uba yagiye kwivuza. Akaba ashobora kuba arwaye kuko ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, bari ahantu mu cyumba.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe isa umweru ndetse n'igitanda n'utubati n'urukarabiro. Ikigaragara cyo aho hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi cyangwa hakaba ari mu rugo rw'umuntu.

Icyumba kigaragara ko gishobora kuba gikoresha mu kwita ku barwayi kuko harimo umugabo munini cyane uryamyemo bigaragara ko ashobora kuba arwaye kandi hari ibikoresho bimwe bakoresha mu kwita ku barwayi.

Inzu nziza cyane ifite amabara y'umuhondo ndetse n'inzugi zaho zirasa umuhondo hari intebe imbere y'iyo nzu hari n'abantu bari gutambuka iruhande rw'iyo nzu. Inzu yubakishije amatafari ya rukarakara ariko uko bisa kose aha hantu hatangirwa serivisi ijyanyye n'ubuvuzi bw'ababyeyi baje kubyara.

Inzuzu nziza cyane ifite amabara ajya gusa n'ivu aha hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda hirya yaho hakaba hari igiti kirekire cyane kikaba kiri hagati y'amazu amazu akaba afite irangi risa n'umweru hakaba hari abantu babiri basa nkaho bari kugana kuri izo nyubako.

Inyubako rwose igaragaza ko hari ibikorwa bijyanye no gucuruza imiti hirya y'aho hari ahantu bacuruza imyenda hariba imodoka ziparitse aho hantu harimo n'abandi bantu bigaragara ko biceyemo imbere ahongaho bari kuvuriro.

Inzu nini cyane ifite amabara ajya gusa umweru ndetse n'umukara, imbere yayo hakaba hari amabendera abiri, aho ibendera rimwe muri ryo ari ibendera ry'u Rwanda, hakaba hari n'icyapa kigaragaza icyo iyo nyubako iberamo.

Imihanda ibiri yegereye ahantu hari amazu asa nkaho afatanye aho hari ababyeyi bari kwambuka umuhanda, bafite umutaka bisa nkaho bari kujya mu wundi muhanda, imbere y'iyi nzu hakaba hari Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nini cyane aho hari abantu bari imbere y'iyo nyubako bamwe bari gutanga serivisi zijyanye n'amafaranga mu kubitsa ndetse no kubikuza, bari mu butaka ndetse hakaba haparitse n'imodoka zirenga imwe iruhande rw'iyo nyubako.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye aho harimo akabati, intebe ndetse harimo n'umugabo uri kureba ibintu bijyanye n'ibikoresho bishobora kuba bakoresha aha hantu. Iki cyumba gishobora kuba gikoreshwa mu gusuzuma ibintu bijyanye n'indwara.

Abarwayi bari kwa muganga, aho umurwayi umwe ari kwitabwaho na muganga akaba yambaye akantu mu mutwe gasa umukara. Muganga yambaye umwenda w'akazi, aho afite ibibazo ashobora kuba ari kumubaza, hari undi murwayi uri inyuma ye, bisa nkaho arikumviriza ibyo bari kubaza uyu murwayi wundi barikwitaho.

Inzu nini cyane iri ahantu bigaragara ko aho hantu hashobora kuba ari kwa muganga. Imbere y'iyo nzu hari parikingi nini cyane irimo imodoka zitandukanye, hakaba harimo n'imodoka zitwara abarwayi barembye cyane.

Indabo nziza cyane ziri ku muhanda, ziri ahantu heza cyane hari n'ikirango cy'umukara cyandikishijeho amagambo asa umweru, aya magambo agaragaza serivisi zitangirwa aha ahntu, ikigaragara cyo serivisi zitangirwa aha hantu ni serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba gifite urugi bigaragara ko ahantu hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuzima, kuko hari ibikoresho bashobora gukoresha mu bijyanye no kwita ku barwayi baza bagana aha hantu.

Inzu nini cyane, aho hariho igishushanyo kigaragaza ibihakorerwa, hashushanyijeho umugore utwite, hakaba iyi nzu hari amagambo yanditse kuri icyo gishushanyo yandikishijwe mu ibara risa icyatsi, mu rurimi rugaragaza ko ari inzu y'ababyeyi ndetse n'impinja.

Inyubako nziza cyane ifite ibara rijya gusa ubururu ndetse ikaba ifite parikingi, aho hari imodoka iparitse aho ngaho, hakaba hari n'abantu bari kugenda hafi aho ngaho mu muhanda, hakaba hari n'abandi bicaye mu nyubako imbere.

Umusore w'ibigango bigaragara ko ari munini cyane, ari kunywa amazi ayanywera mu gacupa, nta bwanwa afite ariko afite amatuza manini cyane, bisa nk'aho uyu musore ashobora kuba ari muri siporo.

Indege bigaragara ko ishobora kuba yifashishwa mu gutanga serivisi zijyanye n'ubuzima kuko hari icyapa cy'ibara ry'umweru bikaba ari mu kirango cy'umutuku bigaragaza ko iki cyapa cy'umusaraba kibuze ubuzima. Iyi ndege bakaba byikoreshwa mu gutwara amaraso.

Umugabo uri kunywa amazi, bigaragara ko afite inyota, akaba yambaye umupira w'amaboko magufi, ujya gusa nk'umukara ariko na none atari umukara neza. Ako gacupa karimo amazi kajya gusa ubururu kandi ahantu ari hari ibyatsi.

Umuntu w'umugabo usa nkaho ari mumazi ufite ubwanwa butari bwinshiyuhe ari buke cyanemazi anyura mu gacupa gasumeru ikigaragara rwose umuntuntu afite icyayaka ari amazi cyane ngo yanezerewe asa nk'aho ahagaze.

Ibikapu biriri bisa byose bifite amabara atukura aho kimwe muricyo kiriho umusaraba wandikishije ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo yandikishije amabara y'umukara, bikaba n'ikirango cy'umweru ikigaragara cyo uyu musaraba ukoreshwa mu bijyanye n'ubuzima.

Umusore rwose w'ibigango uri kunywa amazi akoresheje agacupa gasa ibara ry'ubururu, yambaye agapira k'ubururu biragaragara ko afite imbaraga amaboko ye ni manini kandi ashobora kuba ari gukora siporo.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye agapira gato cyane gaciye amaboko, akaba ari kwikora mu mugongo. Afite imisatsi yayifungiye hejuru ku mutwe, akaba yambaye isaha.

Umuntu ushobora kuba afite ikibazo ku bijyanye n'ubuzima akaba ari kumwe na muganga uri kumwitaho ari kumwerekera ukuntu ashobora kugenda, ikigaragara cyo ashobora kuba afite ikibazo ku bijyanye n'amaguru.

Abasore b'ibingango bafatiye amaboko inyuma ku mutwe hari uwafashe amaboko akayahuza kigaragara cyo bari muri siporo, afite agasatsi gake cyane ari kureba asa nk'aho ari kwigera hakurya, yambaye agapira k'amaboko magufi cyane.

Umuntu ufite ikibazo ku kaboko aho yafashe ikintu akagishyira ku kuboko, ikigaragara cyo ararwaye kandi akaba yagiye kwivuza, ahantu yicaye hashobora kuba ari kwa muganga afite umuganga uri kumukurikirana.

Imbuto n'imboga byose biri ahantu hamwe, harimo voka harimo, n'insenda, hari icupa ry'amazi, ahantu biri hari irangi rijya gusa umuhondo, muri izo mboga n'imbuto harimo ibifite amabara asa icyatsi.

Itumanaho riteretse ku meza, ikigaragara cyo kiri kwerekana isaha, bigaragara ko ari saa siba na mirongo ine n'ibiri, iteretse ku meza isa umweru, biragaragara ko ari mudasobwa bakoreshaga kera bacyitabishisha.

Abasore n'inkumi basa n'aho bari kubyina bari ahantu mu kibuga kinini cyane, inyuma bakikijwe n'imbaga y'abantu benshi cyane bashungereye bamwe bitwikira imitaka kubera izuba. Inyuma y'abo hari urutoki, ikirere gisa nk'aho gikeye cyane. Biragaragara nyine ko banezerewe cyane bose bambaye imyenda isa.

Ahantu hicaye umubyeyi ndetse ufite umwana, hakaba hari n'abandi baryamye, hirya ye hakaba hari supanete zimanitse hejuru ikigaragara cyo aha hantu hashobora kuba hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa muto cyane uri gukora imyitozo ngororamubiri aho akaboko yagakoje ku kuguru ukundi kuguru akaba yakwicariye, akaba afite imisatsi yafungiye hejuru, uko bisa kose uyu mukobwa ari muri siporo, akaba afite icupa ry'amazi riteretse iruhande rwe.

Ahantu hateraniye abana benshi cyane, aho harimo abana batoya ndetse n'urubyiruko. Aho hari akana kizihiwe cyane rwose gasa nkaho kari gufana, abandi basa nkaho bari gukina imikino itandukanye. Abana barizihiwe cyane rwose urabona ko bose bafite icyo barangamiye bari kureba imbere yabo. Ikigaragara cyo abana bari ahantu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyangwa umupira w'amaboko.

Umusore ufite agacupa mu ntoki, ufunze igipfunsi ufite akandi kantu k'icyatsi ku maboko biragaragara yambaye agasengeri gasa umukara, yambaye n'ikabutura umukara, umugabo afite ibigango rwose cyane bigaragara ko ari muri siporo.

Abantu babiri, aho umwe apfukamishije ukuguru kumwe, ukunndi akaba asa nkaho aguhagaritse, ari guterura ibintu bikomeye, iruhande rwe hari undi umugabo uhagaze asa nkaho ari kumwerekera, ikigaragara cyo bari ahantu bakoreramo imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa bisa nk'aho ari muri siporo wambaye akenda gatoya cyane hejuru z'umukara akaba hasi yambaye imyenda y'umukara akaba afite umusatsi uringaniye akaba ari kunywa amazi ikigaragara cyo uyu mukobwa afite inyota kandi ahantu ari hakurya hari umusozi.

Umuntu uri kunywa amazi mu gacupa gasa umweru gafite umufuniko usa ubururu, ikigaragara cyo ni umukobwa yafashe agatambaro k'umweru agashyira mu ijosi afite agasatsi gake cyane.

Umusore wambaye urunigi mu ijosi uri kunywa amazi, akaba afite agacupa mu ntoki, akaba yambaye agapira gasa ubururu, afite agasatsi katari kenshi ku mutwe, ni umusore w'ubwanwa, ahantu ari hari irangi risa umweru.

Icupa ririmo amazi meza cyane kandi bigaragaza ko ayo mazi ashobora kuba ari meza kandi apfundikiye akoranywe isuku ashobora kuba yabasha kunyobwa na buri umwe wese.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri rwose bose barishimye biragaragara ko bakurikiye, imbere yabo hari umuntu uri kuberekera ibyo bagomba gukora.

Ameza ariho imiti ndetse n'imidari bambara mu ntoki, akaba ariho imineke, indimu ndetse n'inanasi bashobora kuba bakoresha mu buzima busanzwe. Ikigaragara cyo hariho n'imbuto nyinshi ndetse n'ibinyomoro, imyembe ndetse n'ibindi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ikigaragara cyo ari ahantu mu nzu, inyuma ye hari intebe ikozwe mu biti, hari n'izindi ntebe z'umukara ndende cyane. Umukobwa ni inzobe, afite imisatsi miremire ariko ntabwo igera mu mugongo.

Umukobwa rwose ukiri mutoya uri ukora siporo, ukuguru kumwe yagushinze hasi, ukundi kurarambuye, amaboko yayashyize hejuru, yambaye agasengeri kagufi cyane gasa umweru, imbere ahantu ari harimo ururabo biragaragara ko ari gukora siporo ahantu mu nzu.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubu aho yafashe akaboko k'iburyo akakararambura, ak'ibumoso kagakora ku kaboko inyuma mu bitugu, ari kurebera kuri mudasobwa iteretse imbere y'iwe aho ngaho ari gukora imyitozo.

Ahantu mu kibuga bigaragara ko ari kuhakinira umupira w'amaguru, hari umuntu umwe mu bakinnyi ushobora kuba aguye akavunika, aho hari abantu bashinzwe kwita kuri abo bakinnyi bari kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Umuntu ufite imboga ndetse n'imbuto mu ntoki abifatiye ahantu hamwe ndetse hafi aho hari inkweto ndetse n'igikoresho bakoresha bari gukora siporo kigaragara cyo ashobora kuba ari kutwereka intungamubiri cyangwa indyo yuzuye.

Umukobwa ukiri muto cyane uri muri siporo ari kunanura amaboko n'amaguru, aho yafashe akaboko akagashyira ku kaguru ku rukweto, akandi kaboko agashyira ku ivu rimwe, yahinnye amaguru, asa nk'uwicariye ukuguru kumwe ariko na none ntakwicariye neza, na none asa nk'aho yicariye itako, yambaye agasengeri.

Umuntu urwaye uri kwitabwaho na muganga, akaba yicaye ahantu ku buribiri w'umusore bigaragara ko yambaye imyenda y'umukara, hejuru umupira w'amaboko maremare ndetse n'ikabutura ngufi akaba ari kwitabwaho n'ubiherewe uburenganzira ikigaragara cyo ahantu bari ni kwa muganga.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yararamye yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira gato cyane kameze nk'agasengeri, ikigaragara cyo aho ari gukorera imyitozo ngororamubiri ni mu nzu.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari ahantu hameze nko muzu akaba yafashe ukuboko ashyira ku kaguru akandi kaguru akagahina agasa nk'ukicariye ahantu ari yambaye akantu kajya gusa ibara ry'umweru.

Abantu bari kugaragaza uburyo bakina imikino itandukanye, hari abakina imikino y'amaboko, abakina imikino y'amaguru, uko bigaragara kose abantu barishimye hari n'undi uri kunywa amazi bigaragara ko nyine abantu ahantu bari bakoreye imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kwa muganga akaba yicaye ku gitanda, bigaragara ko ashobora kuba yaravunitse akaba ari kwitabwaho ahabwa ubuvuzi bujyanye n'ubuzima, imbere ye ahantu yicaye hari bimwe mu bikoresho bashobora gukoresha bari kumufasha ku buvuzi akeneye.

Abagabo babiri bari ahantu mucyumba wajya undi mugabo bahagaze iruhande umugabo umwe araryamye yambaye inkweto bisa nkaho bari kumuvura indwara ajyanye n'imitsi undi arahagaze yambaye ipantaro ijya gusa umukara n'umupira wumukara yambaye nibindi bintu kumaboko usa nkaho ari kumuvura.

Umugabo usa nkaho ari munini wicaye ahantu hasi wambaye inkweto zifunze akaba yambaye, ipantaro y'umukara n'umupira ujya gusa ubururu, akaba afite agatambaro mu ijosi gasa umuhondo, akaba ari kunywa amazi kandi akaba yambaye isaha ku kaboko, afite n'itumanaho mu ntoki ari kumva indirimbo.

Umuganga w'umugore uri kwita ku murwayi uri ahantu mu cyumba bigaragara ko ari kwa muganga hari icyuma gituma amazi asa neza n'igicupa giteretse hejuru y'icyo cyuma uwo mugabo hari urwaye bigaragara ko nyine ari mu bitaro yambaye agapira karimo ubururu bwijimye ndetse n'uturongo tw'umweru dutambitse umuntu ikigaragara cyo ararwaye bari kumwereka kuburyo adashaka kwitwara.

Umukobwa ufite igipfuko ku kuguru ahagana mu mavi, biragaragara ko yababaye kandi akaba ari kwa muganga, yicaye ku gitanda yambaye umupira w'amaboko maremare w'ubudodo yambaye agakabutura, yicaye ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru.

Inzu ikorerwamo imyitozo aho umukobwa we yasutamye, hakaba hari n'undi musore uri gukora imyitozo ufite amatuza manini n'imisatsi igwa mu mugongo, amaboko ye ni manini cyane, umugore we ari kumurebera ibyo ari gukora.

Umuntu bigaragara ko ari muri siporo akaba umuntu agaragara nk'umusore akaba yambaye inkweto zifunze zisa umukara ikabutura y'umukara irimo amabara y'umweru amanutse akamba yambaye n'agapira kajya gusa n'ubururu umuntu afite imisatsi yazirikiye hejuru ari kwerekana ibyiza bya siporo.

Ikintu giteretseho imbuto ndetse n'imboga, bigaragaza ko harimo imineke, indimu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, biteretse ku meza asa n'umweru, bikaba biri ahantu mu nzu.

Umuntu wicaye ahantu mucyumba, ashobora kuba afite ikibazo kijyanye n'ukuguru kuko biragaragara ko ari kwikanda ashobora kuba yavunitse, yicaye ahantu mu cyumba ku buriri bushashishijwe amashuka y'umweru.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye agapira gato cyane hejuru akaba yambaye n'agakabutura gato cyane hejuru ikigaragara cyo ahantu ari hashobora kuba hari amazi. Uyu mukobwa afite imisatsi miremire cyane igera mu mugongo.

Ameza manini ateretseho ibikoresho byinshi bitandukanye bishobora kuba bikoreshwa mu bijyanye n'ubuvuzi, aho dusangamo umuti w'amenyo, ibintu bambara ku maboko bari gukoresha bavura abaturage barwaye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ukuboko yagukojeje ku mano, akicarira itako, ukundi kuguru kumwe akakurambura, ikigaragara cyo uyu mukobwa aragororotse urebye ukuntu yicaye.

Imbaga y'abantu benshi aho bafite ibyo bari kwiga ikoranabuhanga bamwe bicaye abandi barahagaze ikigaragara cyo hari ibintu bari kwiga ndetse hakaba hari nuri kubigisha, abantu bashobora kuba ari abaganga.

Umuntu w'umugabo uri muri siporo bigaragara ko yambaye impeta ku kaboko akaba ari kugorora ukuguru , uyu mugabo yambaye umupira usa umweru ,yambaye n'amasogisi maremare asa umukara, akaba yambaye n'ikabutura isa umukara.

Umusore wicaye hasi bisa nkaho ari kureba imitsi ijyanye n'ukuguru kwe yambaye isaha ku kaboko, yambaye agapira kagufi cyane k'amaboko aciye gasa umukara, yambaye n'agakabutura gato cyane yicaye atandukanyije amaguru.

Umukobwa uri gukora siporo, aho yicaye hasi arambije amaguru agafata amaboko akayakoza ku birenge bye, yambaye inkweto zirimo umweru yambaye hejuru agapira gato cyane, yambaye n'agakabutura gato, afite imisatsi igeze mu mugongo.

Umusore usa nkahogo gusa muri siporo yambaye agapira k'umuboko mugufi cyane afite agasatsi gakeya afite icupa aririmo amazi aca icupa rikiza ku munwa kigaragara cy'uyu musore gusanga muri siporo aha mu muhanda.

Umuntu wagiye kwa muganga ikigaragara cyo ashobora kuba, arwaye mu mavi kuko umuganga ari kumukora mu mavi, akanda kugira ngo yumve ikibazo afite mu mavi, kandi uyu muganga yambaye imyenda y'akazi.

Igikoresho gikoreshwa n'abantu bafite ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'amaguru bashobora kuba gikoreshwa n'abantu bafite ibibazo by'uko bashobora kuba barakoze impanuka mu bijyanye n'ibinyabiziga cyangwa baravutse bisanzwe bitewe no kuba.

Umusore munini cyane ufite ibiganju yambaye agapira gato cyane kameze nk'agasenge, ahantu ari aricaye kandi ikigaragara cyo ari gukora imyitozo ngororamubiri, afashe amaboko ayikoreza ku mutwe.

Umukobwa uri mu kazi, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku meza, uri kwambara agapfukamunywa, wambaye bimwe mu bikoresho bakoresha kwa muganga bari kwita ku barwayi mu ijosi, ndetse imbere ye hakaba hari n'ibitabo bisa nkaho ari kwandika.

Umusore w'ibigango uri kwimena amazi mu maso akoresheje agacupa afatishije amaboko abiri, ikigaragara cyo uyu muntu ashobora kuba avuye muri siporo kuko yambaye imyenda ya siporo agapira k'amaboko magufiya cyane gasa icyatsi.

Igikapu kinini cyane kirimo ibikoresho bitandukanye aho gisa umutuku kikagira imishumi isa umukara, muri icyo gikapu harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bashobora kwifashisha bakoresha mu bijyanye n'ubuvuzi kwita ku barwayi.

Umusore w'ibigango binini cyane ufite agatuza kanini akaba n'amaboko ye ari manini cyane bigaragara ko yakoze imyitozo ngororamubiri ihagije kandi akaba ari umusore munini bigaragarira ijisho.

Ahantu hateraniye abasore benshi barimo n'umukobwa umwe aho umusore umwe bamwicaje ikiringiti undi akamwiyegamiza ikigaragara cyo uyu musore ashobora kuba arwaye ari guhabwa serivisi zijyanye no kwita ku buzima bwe.

Umugabo wagiye kwa muganga bakaba bamuryamishije ku gitanda, hakaba hari muganga uri kumugorora ukuguru, yafashe ukuguru agushyira ku kuboko kwa muganga, umugabo arangije aryama agaramye akaba afashe itumanaho mu ntoki.

Umukobwa ukiri muto cyane uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye ipantaro isa umukara, akaba yicariye itako ry'ukuguru kw'iburyo, ndetse aho yarambuye ukuguru kw'ibumoso, agafata ukuboko kw'ibumoso akagukoza ku mano y'ukuguru kw'ibumoso. Agafata ukundi kuboko kw'iburyo akagukoza ku ivi ry'ibumoso.

Abantu bari ahantu hameze nko mu nzu, harimo akana kicaye rwose ka gahungu, harimo n'undi mumama mukuru ugafashe amaguru, ndetse n'umugore wihaye Imana, bisa naho nyine ari ahantu abantu bari, bishoboka ko ari mu kigo k'imfubyi cyangwa ikindi kigo icyo aricyo cyose gifasha abantu.

Umukobwa ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yicaye rwose amaguru yose yayahinnye akaba yicaye ahantu hameze nko mu nzu, afite icupa ririmo amazi afite ndetse n'imisatsi miremire cyane ,iyo misatsi bitewe n'ukuntu ari miremire, ashobora kuba ari kuyikoza hasi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yafashe akaboko k'iburyo akagashyira imbere, akaboko k'ibumoso akagafatisha ku kirenge cy'ibumoso, yafashe ukuguru akagushyira hejuru, yambaye imyambaro imufashe cyane aho hejuru yambaye agapira gato cyane.

Umuntu uryamye ari kwitabwaho na muganga ikigaragara cyo ararwaye, uyu murwayi ashobora kuba ari umugabo, afite agasatsi gakeya, yambaye ibirenge, muganga uri kumwitaho n'umugabo, yambaye imyenda y'akazi, ni umweru utaru umwe neza, yambaye agapfukamunwa, bari ahantu mu nzu mu imbere bigaragara ko ari mu bitaro.

Umugabo uri ahantu mu cyumba bigaragara ko ashobora kuba ari umuganga bitewe n'uko hari ibikoresho bimwe mu bikoresho bakoresha bari kwita ku buzima bw'abantu afite kandi akaba yambaye umwambaro w'akazi.

Umukobwa muto cyane bisa nkaho ari muri siporo, ari gukoresha imbaraga nyinshi cyane afite imisatsi miremirejya kugwa mu umugongo yambaye agapira hejuru k'amaboko magufi cyane ya mbere ikabutura ntoya cyane rwose igeze munsi yikibuga lamberint zifunze ndetse ikigaragara cyari ahantu mu kibuga.

Umugabo uri ahantu hari ibyatsi byinshi cyane bimeze nk'ibihuru, bigaragara ko ari gusarura bimwe mu bihingwa ashobora kuba yarahinze, akaba yambaye umupira usa umweru.

Urubuto bakoresha cyane cyane bari kwivura tuzi nka tangawise ndetse n'indimu babifashe babikoramo umutobe babishyira mu gikombe bigaragara ko ibi bintu bashobora kuba bagiye kubinywa.

Ibimera byinshi byiganjemo ibirebire ndetse n'ibigufi, aho harimo ibifite amabara ajya gusa umuhondo ndetse n'ibifite amabara ajya gusa umutuku ndetse n'ibisa icyatsi, ibi bimera ahantu biri ikigaragara cyo ni ahantu hashobora kuba ari nko ku musozi.

Ibyatsi biri ahantu hameze nko mu gihuru, ikigaragara cyo ahantu ibyatsi biteye, biteye ahantu mu ishyamba cyangwa ahantu mu kigunda. Icyatsi uko bigaragara kose gishobora kuba gikoreshwa mu buvuzi bujyanye n'ibimera. Buriya icyatsi gishobora kuba kiri mu byatsi bivura indwara zijyanye n'inzoka.

Abantu babiri harimo igitsina gabo n'igitsina gore aho umugabo yambaye agapira gatukura mo imbere akaba yambaye n'umupira w'umukara aho hari umugore wambaye bw'umweru bakaba bari ahantu aho umugore asa nk'aho ari kuvuga ahantu bari hakaba higanje ibimera byinshi cyane.

Ahantu hari abantu bateraniye aho hari abantu bari imbere bakaba bari gucuruza aya macupa ateretse aha ngaha hakaba hari n'abandi baje kugura aya macupa bitewe n'ibintu biyarimo ariko bishobora kuba ari ibikoresho bakoresha ku bijyanye n'ubuzima mu buryo bw'imiti.

Icupa rirerire rikozwe mu kirahure rikaba ririmo amavuta imbere yaryo hakaba hari, indimu tukaba turisanga mu bwoko bw'imbuto ndetse hakaba hari n'ibitunguru dusanga mu bwoko bw'imboga, bishobora kuba ari byo byakozwemo aya mavuta.

Ibimera biri kugaragara aho ikimera cya mbere kigaragazwa n'icyatsi, kindi kikaba kigaragazwa n'icyatsi ariko kitari icyatsi neza kijya kwijima, ibindi bikaba ari ubunyobwa, ibindi bikaba ari ibitoki, ikigaragara cyo ibi byose ni ibihingwa.

Imiti myinshi cyane hari imiti iri mu ducupa tugufi, utubundi, amacupa maremare harimo n'amavuta ikigaragara cyo ni imiti ishobora kuba yita ku barwayi harimo nk'imiti y'ibimera biragaragara cyane ko ifite imifuniko, ibyapa ndetse n'amacupa y'ibirahuri.

Icupa ry'kirahure rifite umufuniko w'icyatsi ndetse hakaba hariho n'igipapuro gifite amabara y'icyatsi, handitseho amagambo yandikishije umweru ndetse n'andi y'umukara, bigaragara ko ari umuti w'umuravumba.

Icyatsi gisa neza cyane kiri ahantu gitoshye cyane gifite amabara y'umweru icyo cyatsi ni kirekire cyane hirya yaho hari ibindi byatsi ariko ibyo byatsi biri hirya y'iki cyatsi byo ntabwo bisa umweru bifite amabara y'icyatsi.

Ahantu hari abantu batari bakeya biganjemo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari gukoresha amamashini mu bijyanye no gusarura ibihingwa bihinzwe aha hantu kandi bikaba byifashishwa no mu guhinga ibihingwa.

Icyatsi kiza cyane kiri ahantu hasa nk'aho ari mu ishyamba kikaba gifite agati gato kananutse karekare, kikaba gifite n'ikibabi kinini cyane. Bikaba biri ahantu hasa nk'aho ari mu ishyamba. Ahantu ibyatsi biri uko bisa kose hari ibindi byatsi bihari bitameze nka byo, kuko byo bifite imibyimba minini kubirusha.

Icyatsi cyiza cyane bashobora kuba bakoresha ibijyanye n'ubuvuzi ku ndwara z'inkorora ndetse n'inzoka hano mu Rwanda. Iki cyatsi gifite amabara y'icyatsi kikagira indabo zijya gusa n'umuhondo. Uko biri kose kino cyatsi kiri ahantu mu bishanga.

Udukarita twinshi cyane duteretse ahantu hameze nko ku meza harimo ibikarito bimwe bishushanyijeho abantu, buri gikarito kiriho ibintu byanditseho inyuma bifite amabara atandukanye. Aho hariho ibikarito birimo imiti ndetse n'ibiririmo amasabune.

Ahantu hari ibikoresho bya kera byiganjemo ibibindi, imyuko, ibicuma ndetse n'amacu, ibikoresho ikigaragaza cyo ni ibikoresho bakoreshaga cyera ndetse n'inzu yo hambere ya nyakatsi na yo iri kuhagaragara.

Ibiti biteye ahantu hasa nk'aho ari ku musozi witaruye, aho harimo ibiti birebire ndetse n'ibiti bigufiya, hakaba harimo ibiti bifite amabara ajya gutukura ndetse n'ajya kuba umuhondo, hakaba harimo ibiti bigufi cyane ugereranyije n'ibindi byose, hakaba harimo n'ikindi kimwe kirekire cyane.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda uri ahantu hameze nko mu misozi, aho hantu hari umusozi uri kumanukaho amazi menshi cyane atemba, aha hantu hari ishyamba, ikigaragara cyo aba bantu ahantu bari hari ibiti byinshi cyane wagira ngo ni mu ishyamba.

Ishyamba rinini cyane aho harimo ibiti birebire, bibyibushye ndetse n'ibindi birebire ariko bitabyibushye, hakaba harimo ibyatsi bigufi cyane by'amoko atandukanye, hakurya yabyo hakaba hari irindi shyamba ryinshi cyane.

Ibihingwa byinshi biri ku masahani bitetse ku musambi, aho hari umuntu uri gusekura bimwe muri byo bigaragara ko ibyo ari gusekura ari ibyatsi iruhande rwe hakaba hari ibintu bijyanye n'imbuto n'ibinyampeke.

Urubuto rwiza cyane rwose rukunda kuribwa n'abakuru ndetse n'abatoya aho uru rubuto rwitwa ipapayi dukunda kurusanga ku giti rwose kibyibushye cyane gifite ikibabi kinini cyane. Uko biri kose uru rubuto rushobora kuba ruri ahantu ku meza iyo meza ikaba isa umweru.

Ikarito zirimo imiti bigaragara ko bazikoresha bari kwivuza kuko mo imbere harimo imiti nk'uko ikirango cyayo cy'inyuma kibivuga kandi imiti irimo ikaba ikomoka ku bimera.

Uducupa tubiri turi mu mabara atandukanye bigaragara ko ari umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu nko mu maso kuko hariho n'amashusho agaragaza uko umuntu yasaga mbere atarisiga aya mavuta n'uko asa ubungubu yarisize aya mavuta.

Icupa risa nkahohari rinini ariko na none ritari rinini cyane rijya kuba ribyishye mubyimba rikaba rimeze nk'icupa ry'ikirahuri icupa uko bigaragara kose rifite amagambo inyuma asobanura ibintu birimo imbere ibintu bishobora kuba birimo imbrre bishobora kuba ari ubuki.

Agafu bashyize ku gipapuro bakagafatira mu ntoki bigaragara ko bagaseye neza cyane kandi aka gafu kakaba gakozwe mu bintu bijyanye n'ibimera, ikigaragara cyo kari gusa icyatsi nk'aho ari ibyatsi byakoreshejwe mu kuyikora iyi fu.

Ahantu bashyize amacupa atandukanye aho harimo amacupa afite iminwa mitoya, akaba adapfundikiye hakaba hari n'andi apfundikiye, hakaba hari n'andi macupa akozwe mu birarahure arangaye adashobora gupfundikirwa bitewe n'ukuntu afite umunwa munini.

Amacupa ari ahantu hamwe mu kabati bigaragara ko harimo ibintu, buri cupa rigiye rifite igipapuro inyuma rigaragaza icyo iryo cupa ririmo, imbere ari amacupa y'ubwoko butandukanye kuko hari amacupa maremare ndetse n'amacupa matoya.